Umwana mutoya w'umukobwa, ari ku rukarabiro rusange, ubona ko arimo arakaraba amazi meza bahawe n'ikigo gishinzwe gutanga amazi mu Rwanda, kugira ngo hanozwe isuku ndetse n'ubuzima bwiza mu baturage.

Ikigo gishinzwe itangwa ry'amazi mu gihugu cy'u Rwanda kikaba gituma ubuzima bukomeza kugenda neza mu baturage aho amazi abasha kugera ku baturage mu buryo bwiza kandi ari amazi meza yizewe adatera indwara.

Kwa muganga, muganga arimo arapima umusaza indwara zirimo indwara y'umutima ndetse n'izindi ndwara yasanga mu maraso kugira ngo abashe kuvurwa ndetse hari urujya n'uruza rw'abarwayi benshi baje kwivuza, barimo barakirwa n'abaganga bakitabwaho.

Abanyeshuri batandukanye barimo baravoma amazi ku matiyo atatu ari hamwe, aho umunyeshuri umwe wo hagati w'umuhungu, arimo arakaraba amazi kandi amazi arimo arakaba arimo arajya mu ndobo, bishobora kuba byatuma amazi yandura ndetse n'umunyeshurirundi wo ku ruhande nawe, ni ko bimeze.

Ihuriro rusange ry'abantu benshi barimo aba mamama, abapapa, abasore n'abakobwa baje guhabwa impuguro ku bijyanye n'ubuzima kugira hatezwe imbere imibereho myiza y'abantu ndetse banasobanukirwa byinshi byerekeye ku ndwara zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abaturage bambaye udupfukamunwa, bari kwa muganga barimo barahabwa serivisi n'abaganga ku ndwara bafite zitandukanye kugira ngo bavurwe kandi bitabweho, bityo ubuzima bwiza bw'abaturage bukomeze gutezwa imbere ku isi hose, kandi n'ubuvuzi bukomeze kunozwa.

Umwana muto w'umukobwa ari ku rugomero rusange arimo arakaraba ibiganza, ndetse hari n'ibivomesho bitandukanye, ubona ko abantu benshi baza kuvoma mazi. Yishimiye kuba iryo vomero rihari kandi bikaba bifasha mu mibereho ya buri muntu wese.

Inyubako zikoreshwa nk'ubwiherero, yaba ari ku bagabo ndetse no ku bagore, aba ari inyubako zubatswe kugira ngo habashe kugerwaho isuku, hirindwa imyanda itandukanye ya hato na hato.

Umwana mutoya arimo arahabwa umuti na muganga ndetse ari kumwe na mama we wamuzanye kwa muganga kugira ngo avurwe, akaba ari umuti bari kumuhereza bawunyujije mu kanwa kugira ngo ahunywe maze nugera mu mubiri ubashe kuvura indwara zitandukanye.

Umuganga arimo araganiriza abaturage, abasobanura byinshi bitandukanye dusanga mu buzima, yaba ibyerekeye indwara, uburyo twazirinda n'uburyo twakorera hamwe nk'abaturage ndetse n'abavuzi.

Imbaga y'abantu benshi biganjemo abana bato b'abakobwa ndetse n'abahungu bari ku rukarabiro, bakaraba ibiganza. Barimo barakara ibiganza kugira ngo bizihize isuku ndetse babashe kwirinda n'indwara.

Uruhinja rwishimiwe n'abaganga ndetse n'abantu benshi batandukanye ubona ko rurimo ruritabwaho neza kugira ngo bahabwe ikaze kandi agire ubuzima bwiza, bityo abaturage bose muri rusange babashe kugira ubuzima bwiza.

Imbaga y'abantu nyamwinshi bakora mu by'ubuvuzi, barimo abamama, abapapa ndetse n'umushyitsi wabasuye, wari uri kubasobanurira ku mivurire y'indwara zitandukanye kugira ngo hanozwe imikoranire myiza mu buvuzi ku isi hose, bityo indwara zimwe na zimwe zivurwe kandi neza.

Muganga arimo aravura, umumama ndetse ari kumwe n'undi muganga bakorana, aba arimo arafata ibizamini by'mararaso, basuzume indwara zaba zirimo, kugira ngo zivurwe.

Umumama arimo arakarabya umwana amazi meza, ndetse n'abandi baje kuvoma amazi, kugira ngo bajye kuyakoresha. Akaba ari amazi bahawe kugira ngo, hatezwe imbere ubuzima bwiza bw'abaturage.

Umuryango ushinzwe kwita no kurengera abana batoya b'urubyiruko kugira ngo bakure neza, bakure bafite ubuzima bwiza hirindwe igwingira ahubwo umwana yitabweho kuko ari we uzaba ukora ibindi mu gihe kiri imbere.

Ihuriro ry'abantu benshi barimo abana batoya, abakobwa, abahungu ndetse n'abakozi. Hari imodoka yifashishwa mu kujyana abarwayi kwa muganga. Yazanwe kugira ngo nihagira ugira kikibazo, yaba ari umubyeyi ugize ikibazo cyangwa se uwo ari we wese, yihutishwe kubitaro kugira ngo avurwe.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bihugu bitandukanye, bari mu nama ubona ko bari kuganirizwa n'inzobere ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'ingamba zafatwa kugira ngo isi yose hamwe ikomeze kugira imikoranire myiza.

Umuryango ushinzwe kwita no kurengera ku burenganzira bw'abana bareba ubuzima bwabo uko hameze ku isi hose kugira ngo imibereho myiza n'imikorere myiza y'urubyiruko ibashe kugerwaho bityo hirindwe n'indwara zitandukanye.

Muganga arimo arakingira abana batoya, urubyiruko indwara zitandukanye, arimo arifashisha ibikoresho byabugenewe birimo inshinge, umuti ndetse n'uturindantoki bityo ubuzima bwiza busakare ku isi hose.

Urujya n'uruza rw'abamama n'abapapa, bari mu ishami ry'ubuvuzi, bishimiye inzobere yariri kubaganiriza, ku bijyanye n'ibyo barimo ndetse, bigenda neza. Kugira ngo hagirwe ingamba zifatwa, zibashe gukurikizwa no kubahirizwa.

Umusore ku rukarabiro arimo arakaraba intoki n'amazi meza, kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda, yaba ari indwara yakandura bitewe n'ibyo yiriwemo cyangwa se n'abo bavuganye cyangwa se yasuhuje.

Umuntu uri kuvoma amazi, kugira ngo ajye kuyakoresha mu rugo, ndetse n'undi musore urimo uroza igare muri ayo mazi. Ubona ko arimo arayanduza, kandi ari amazi arimo aravomwa n'umuturage kugira ngo ayakoreshe. Bityo bikaba bishobora gutera indwara zitandukanye.

Abaganga benshi batandukanye barimo aba mama abapapa ndetse n'abandi baganga harimo n'abaforomokazi bose bakaba bakora mu buvuzi bw'indwara zitandukanye kugira ngo ubuzima bwiza bukomeze gutezwa imbere ku isi n'ubuvuzi bukomeze kubahirizwa ku isi hose.

Umwana mutoya arimo aranywa amazi yo ku ivomero akoresheje ibiganza, ndetse akanywa amazi arimo arajya mu kindi gikoresho hasi, ibyo bishobora gutuma amazi amwe yo hasi yandura, bikaba byatera uburwayi.

Abana b'abanyeshuri barimo abakobwa n'abahungu ndetse n'abarimu babo basuwe na bamwe mu bakozi bakora mu muryango ushinzwe kwita ku bana, ku mikurire y'urubyiruko, kugira ngo bakurane ubuzima bwiza. Abana bakaba bishimye cyane.

Ikigo cyita ku mibereho myiza y'urubyiruko ku Isi hose, ndetse hagaragara abakozi bacyo batanu barimo abakobwa ndetse n'umusore w'urubyiruko, kikaba kigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage by'umwihariko urubyiruko.

W'umumama uvuye kuvoma amazi, ku ivomero rusange . Akaba arwaye amazi agira ngo yifashishwe, mu guteka , mu masuku ndetse n' ibindi. Arikumwe n' abandi bana batoya babiri nabo ubona ko bavure ku ivomero kugira ngo buzima bwiza busakare.

Ku munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya kanseri kugira ngo uyifite wese yisuzumishe kugira ngo barandurire hamwe kanseri y'inkondo y'umura, ahubwo abantu bakomeje kugira ubuzima bwiza, hakaba hari abantu benshi, abakangurambaga baturutse ku isi yose babyitabiriye.

Mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bwiza bukomeze kugera kuri bose, muganga yambaye agapfukamunwa arimo arakingira umurwayi urukingo rw'indwara, kugira ngo ubuzima bwiza bukomeze gusakara mu baturage.

Umwana mutoya ari ku rukarabiro, arimo arafungura amazi akarabe kugira ngo hanozwe isuku na we ubwe yirinde indwara zitandukanye zaterwa n'uko atakarabye ibiganza bityo ubuzima bwiza busakare ku isi hose.

Ivomero rusange ndetse hari ababyeyi batatu bafite ibikoresho byifashishwa mu kuvoma amazi. Rikaba ari ivomero ryiza, rigamije kugira ngo ubuzima bwiza bukomeze kwimakazwa ku isi hose.

Imibare yagiye ifatwa mu bihe bitandukanye, igaragaza uburyo, uburinganire bugerwaho ku isi hose, hari mu bihumbi bibiri na cumi n' umunani, ibihumbi bibiri mirongo cumi n'icyenda ibihumbi bibiri na makumyabiri ndetse na makumyabiri rimwe, bikaba bigaragaza ko uko imyaka igenda iza yiyongera, ari nako umubare ugenda wiyongera.

Abaganga barimo baravura umurwayi urembye cyane bakaba ari abaganga benshi barimo barafatikanyaya kugira ngo babashe kumuvura maze nawe agire ubuzima bwiza akire ndetse ubuzima bukomeze butezwe imbere ku isi hose.

Imbaga y'abantu nyamwinshi, yari yitabiriye ibiganiro bitandukanye kugira ngo hanozwe iterambere ubuvuzi ku baturage ndetse n'ubuzima bwiza. Barimo barafata ifoto y'urwibutso, ubona ko bari bagize ibihe byiza.

Inama mpuzamahanga yabaye mubihumbi bibiri na cumi na karindwi, yahuje abantu baturutse mu bihugu bitandukanye, kugira ngo hakomeze kunozwa ubuvuzi, no gutezwa imbere ubuvuzi. Kugira ngo habeho imikoranire myiza n'ubufatanye, mu iterambere ry'ubuzima bw'abaturage ku Isi hose.

Ihuriro ry'abantu batandukanye, barimo baraganira bungurana ibitekerezo, akaba ari abantu b'abagabo ubona ko bafite ibyo bakora byinshi bitandukanye mu buzima, barimo baranafata amafunguro kugira ngo hafatwe imyanzuro mizima kandi ihamye.

Muganga arimo arapima indwara zirimo umuvuduko w'amaraso n'izindi ndwara dusanga mu mubiri, arimo arapima ababyeyi ubona ko baje bamugana kugira ngo bamenye uko bahagaze mu mubiri.

Ababyeyi ndetse n'abana batoya baje gufata serivisi z'ubuvuzi ku mujyanama w'ubuzima ndetse akaba ari n'umuganga ku ndwara zitandukanye, kugirango bavurwe bakire maze bitabweho bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa, arimo arakarabya umwana, ibiganza, yifashishije isabune ndetse n'amazi, kugira ngo imyanda yari iri ku maboko ikurweho, ahubwo umwana agire ubuzima bwiza.

Imbaga nyamwinshi y'abantu batandukanye, baturutse mu mbibi zitandukanye z'Isi yos, bakaba bari mu nama kugira ngo hatezwe imbere ubuvuzi ndetse n'imikoranire myiza kugira ngo abaturage babashe kugira ubuzima bwiza ku Isi hose kandi banitabweho.

Imbaga y'abantu nyamwinshi barimo barubaka akarima k'igikoni. Bari guteramo imboga zisoroma zigatekwa, ziba zirimo intungamubiri zitunga umubiri kugira ngo umuntu akure neza kandi amere neza.

Abana batoya barimo barahabwa imiti n'umuganga, akaba ari imiti ikozwe mu binini abana banywa kugira ngo bivure indwara zitandukanye maze bagire ubuzima bwiza.

Ku ivomero rusange, umwana mutoya w'umuhungu arimo aravoma amazi mu bikoresho byabugenewe ndetse hari imbaga y'abantu nyamwinshi, irimo irareba uburyo umumama arimo arafashe uwo mwana, kugira ngo amazi...

Umugabo ukorera umuryango ushinzwe ubuzima bwiza ku isi hose, ari kumwe ndetse n'undi mukobwa ubona ko afite ubwoko bw'imiti itandukanye yifashishwa kugira ngo hatange ubuzima ku barwayi kandi bakire.

Umubyeyi ufite, umwana arimo aramuvuza, muganga arimo arahereza umuti umwana, awunyujije mu kanwa kugira ngo umwana avurwe neza kandi akire. Bityo umwana akurane ubuzima bwiza butagira indwara.

Urujya n'uruza rw'abantu ubona ko bakiri bato hari urubyiruko bitabiriye amahugurwa n'inzobere zitandukanye zibaganiriza ku ndwara zitandukanye ndetse n'uburyo butandukanye bwo kwita ku barwayi.

Ku ivomero hari abana benshi b'ingeri nyinshi, hari n'abakobwa, abahungu batoya, barimo bararwanira ku mazi bakaraba. Bishobora gutuma habasha kugira uwangirika se cyangwa se hakagira uhakomerekera bigahungabanya ubuzima bw'abana.

Inama yahuje abantu baturutse mu bihugu bitandukanye ku isi hose, kugira ngo higwe ndetse hafatwe ingamba mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage bafatikanyije, ndetse n'ubuvuzi bwiza ku baturage. Bafite amazi bari kunywa kugira ngo bakomeze kuganira kandi n'umubiri ukomeze witabweho.

Ivomero rusange ryatanzwe kugira ngo hanozwe isuku, ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Rikaba riri mu Rwanda aho hari umu mama uri kuvoma amazi, yifashishije ibikoresho byabugenewe kugira ngo amazi avomwe. Bikaba bigamije kugira ngo abaturage babone amazi, ndetse ...

Umwana mutoya ari kuyivomero, arimo aravoma amazi meza, ubona ko yishimiye ko aya mazi ahari, bityo akaba ari buze gufasha mu rugo bateka, amasuku, ndetse banayanywa, kandi ubuzima bwiza bukomeze kunozwa ku isi.

Umugabo n'umugore ubona ko bagiye guhura n'umujyanama w'ubuzima kugira ngo basuzume umubyeyi barebe uko umubiri bimeze, arebe niba yaba anatwite kugira ngo abashe gukurikirana umwana atwite ndetse na we ubwe.

Imbaga y'abantu nyamwinshi, irimo abapapa ndetse n'abamama bakora mu by'ubuvuzi, bari kumwe n'inzobere yaturutse mu kindi gihugu, iriho irabahugura, ubona ko bishimiye ikiganiro ndetse barimo makobo mu mashyi. Kugira ngo ubuvuzi bukomeze gukwirakwira ku isi hose ndetse imikoranire myiza hagati y'abaganga ibashe kunozwa.

Abana batoya bane barimo barakarabywa n'umupapa amazi meza, abana barishimye ndetse bari gukarabira mu gikoresho cyabugenewe kugira ngo ubuzima bwiza bukomeze gusakara ku isi hose.

Inama yahuje abantu batandukanye baturutse mu mbibi z'isi yose, baje kwiga ku iterambere ry'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye kugira ngo ubuzima bwiza bukomeze buboneke ku isi yose by'umwihariko abaturage babashe kuvurwa no kwitabwaho.

Umwana muto w'umukobwa ari ku rukarabiro, arimo arakaraba ibiganza yifashishije amazi meza, kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye ziterwa n'imyanda yaba ari aho umuntu aba yiriwe ndetse n'umuntu abantu agenda ahura nabo akabasuhuza.

Umubyeyi ufite umwana, yagiye kumuvuza ku mujyanama w'ubuzima. Kugira ngo amenye uko umwana ahagaze. Maze abashe kumukurirana neza abo ni ubuvuzi burenzeho bityo ubuzima bw'umwana ubungabungwe.

Umuryango ushinzwe kwita ku mikurire y'abana batoya, urubyiruko ndetse n'andi matsinda atandukanye ashinzwe kwita ku masuku ndetse n'andi matsinda arwanya icyorezo cya Korona virusi kugira ngo ubuzima bwiza bukomeze kubaho ku isi hose.

Umwana mutoya ari gukaraba ibiganza yifashishije amazi meza n'isabune, kugira ngo asukure ibiganza ndetse barimo baramusukira amazi kugira ngo abashe kumufasha, maze agire ubuzima bwiza.

Imbaga y'abantu nyamwinshi barimo baraganirizwa na muganga kugira ngo abashe kubahugura, bamenye byinshi byerekeye ku ndwara zitandukanye burimo kuzirinda ndetse n'uburyo bukwiriye bwo kuzivura.

Abaganga batatu bafite imiti ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara nka malariya bakaba bambaye udupfukamunwa bose, ubona ko barimo bagaragaza ko ubu ngubu indwara ivurwa ku Isi hose kandi igakira.

Umubyeyi ukikiye umwana ndetse n'umuganga arimo aramwitaho, ubona ko umwana yari afite ikibazo mu gice cyo hejuru ahagana ku mutwe, muganga akaba arimo aramuvura yifashishije imiti yabugenewe ndetse yizewe ku buryo umwana agomba gukira.

Abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri barimo abakobwa n'abahungu barimo barafata amafunguro meza atetse neza kugira ngo babashe kwiga neza bityo babashe no gutsinda neza amasomo y'abo.

Umuntu arimo gukaraba amazi, amazi meza akaraba ibiganza kugira ngo ibiganza bye bimere neza ariko arimo arakarabira mu yandi mazi, ubona ko ashobora kuyanduza, bigatera impungenge ku binyabuzima biri muri ayo mazi.

Urujya n'uruza rw'abaganga barimo abamama, abapapa bari hamwe ubona ko bishimanye ndetse bari bavuye mu biganiro, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo babone imikoranire myiza mu buvuzi ku isi hose.

Umwana mutoya w'umukobwa arimo aravoma amazi, yoza indobo kugira ngo hanozwe isuku maze indwara z'umwanda zirindwe ahubwo imibereho myiza y'abaturage ikomeze gutezwa imbere.

Ku ivomera rusange arimo aravoma amazi. Hari abana batoya b'abahungu barimo baravoma amazi ubona ko umwe arimo arabafasha kugira ngo amazi aze kandi ameze neza. Bityo avomwe yifashishwe mu isuku harimo kumesa imyenda, ndetse no kuyakaraba, andi bakanayatekesha.

Umuntu barimo barakingira muganga yambaye ibikoresho birinda intoki arimo aramukingira ku kuboko kugira ngo yongere ubwirinzi bw'umubiri we, bityo indwara zitandukanye zibashe kwirindwa.

Umwana mutoya uri kuvoma amazi ku kigega, akaba arimo arayavomera mu gikombe kugira ngo ayakoreshe. Yaba ari ukuyanywa cyangwa se kuyakoresha no mu buryo bw'amasuku, nko kuyakaraba. Akaba ari umwana w'umunyeshuri.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi baturutse mu bihugu bitandukanye byo ku Isi, bakaba baje mu nama bahugurwa n'inzobere, ku buryo bwo guteza imbere ubuzima bwiza ku Isi hose muri rusange, bityo indwara zibona zimwe zivurwe kandi ubuzima bwiza busakare mu baturage.

Umuntu ari ku rukarabiro, arimo arakaraba amazi meza asukuye, kugira ngo avane imyanda iri ku ntoki, yaba yikuye aho yiriwe ndetse n'ibyo yakozeho, bityo akomeze kugira ubuzima, bwiza kandi abashe kuramba.

Ku ivomero rusange, umwana mutoya w'umuhungu arimo aravoma amazi meza mu gikombe kugira ngo ayifashishe ayanywa. Bityo ubuzima bwiza bukomeze gusakara ku isi hose. Iryo vomero rikaba rihuriraho n'abantu benshi, bavoma amazi ba bifashisha mu rugo, no mu yindi mirimo itandukanye.

Umwana mutoya arimo aradaha amazi atemba mu gikoresho cyabugenewe. Akaba ari amazi agiye kwifashisha mu rugo haba hari mu gufura imyenda, guteka ndetse n'ibindi. Bikaba bigaragara ko aya mazi atizewe isuku yayo.

Umupapa ndetse n'umumama w'umuzungu, bafite igikoresho cyanditseho gusura u Rwanda. Ubona ko bariho barashishikariza amahanga kugana u Rwanda, kuko mu Rwanda hari ubuvuzi bwiza kandi bwizewe buteye imbere, bityo n'isi yose ikomeze ikorane hamwe n'u Rwanda.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bahuriye mu nama, barimo baraganirizwa ndetse bungurana ibitekerezo, ku bijyanye n'iterambere ry'ubuzima bwiza bw'abaturage.

Umubyeyi ukikiye umwana ndetse na muganga ubona ko umwana barimo baramusuzuma ibiro barebe ubuzima bwe afite ndetse abashe kwitabwaho avurwe kandi akire, bityo ubuzima bwiza bubashe kugerwaho ku isi hose.

Ivomero rusange ndetse n'abantu benshi barimo abamamama n'urubyiruko rw'abakobwa, baje kuvoma amazi kugira ngo yifashishwe mu guteka, kuyanywa ndetse no mu masuku. Akaba ari amazi meza, yashyizweho kugira ngo ubuzima bwiza bukomeze gusakara ku isi hose.

Ku kigega umwana muto w'umuhungu arimo aravoma amazi mu gikombe, akaba ari umwana w'umunyeshuri ubona ko yambaye n'imyenda y'ishuri, akaba ari amazi agiye kwifashisha akaraba intoki kugira ngo isuku ikomeze gukwirakwira ku isi hose.

Ihuriro ririmo abantu batandukanye harimo aba mama n'aba papa barimo barahabwa impuguro n'inzobere ku ndwara zo mu mutwe, uburyo bwo kuzivura ndetse n'uburyo bwo kwita ku murwayi uzifite.

Urujya n'uruza rw'abantu barimo abamama, abapapa ndetse n'urubyiruko bari mu mahugurwa n'inzobere ibaganiriza ku ndwara zo mu mutwe, uburyo uyirwaye agomba kwitabwaho ndetse no kudatereranwa.

Icyapa kigaragaza ibitaro by'i Ndera, ahatangirwa serivisi zabafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, hahagaze umugabo w'umuzungu ubona ko nawe yaje kuri ibyo bitaro.

Umuryango ushinzwe kwita ku rubyiruko ndetse n'imikurire yarwo hamwe n'ikigo gishinzwe gutanga amaraso mu Rwanda ku bufatanye na minisiteri y'ubuzima, barimo barateza imbere ubuvuzi bwo mu mutwe kugira ngo abafite izo ndwara bitabweho.

Umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe ndetse ni uburwayi ugomba kwitabwaho akavurwa akagira ubuzima bwiza kandi agakira, ubona ko na we ubwe atazi ibyo arimo gukora ariko aagomba guhabwa serivisi nziza y'ubuvuzi.

Umusore afite amenyo meza, ubona ko yayasukuye yifashishije imiti, yaba ari imiti itunganywa mu bimera birimo ibyatsi ndetse n'imbuto, ariko yizeye mu buvuzi bw'amenyo. Bityo akaba afite ubuzima bwiza kandi amenyo ye akaba afite isuku.

Inyubako itangirwaho ubuvuzi bw'indwara z' umwihariko nk'indwara yo mu mutwe, aho havurirwa abarwayi bafite ikibazo cyerekeye no mu mutwe, ku bwonko kugira ngo bakire na bo bagire ubuzima bwiza.

Umurwayi ufite ikibazo cyo mu mutwe, akaba yicaye hasi ndetse yicaye hagati mu ipine, ubona ko nawe ubwe atazi ibyo arimo arakora kubera ikibazo cy'uburwayi afite, aba akwiye kwitabwaho akavurwa kandi agakira.

Ahantu habereye umunsi mukuru, mu Karere ka Bugesera wo kugaragaza ku mugaragaro inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'abarwayi bo mu mutwe kugira ngo bitabweho na bo bakire bityo bagire ubuzima bwiza.

Umurwayi ufite ikibazo cyo mu mutwe yicaye ahantu ha wenyine yigunze ubona ko atazi na we ikibazo afite, akaba yatereranywe ariko akaba akwiye kwitabwaho ndetse akavurwa.

Abana benshi ndetse hagaragaramo n'abakuze cyane, bambaye nabi, bari gushaka icyo kurya, ubona ko bafite uburwayi bwo mu mutwe, bagomba kwitabwaho bakavurwa kugira ngo nabo bakire.

Inama yahuje imbaga n'abantu nyamwinshi, biganjemo urubyiruko rw'abasore, abakobwa ndetse n'abakuze, bari gusobanurirwa ku ndwara zitandukanye zifata umutwe, uburyo abarwayi bagomba kwitabwaho kugira ngo serivisi z'ubuvu zikomeze kunozwa.

Ishusho igaragaza imifatanyirize hamwe y'abaturage kugira ngo havurwe ndetse hirindwe indwara zo mu mutwe kugira ngo ndetse n'ubuvuzi bwazo butezwe imbere, ikaba igaragara ko abaturage bakoreye hamwe yaba ari abapapa n'abamama kugira ngo izo ndwara zivurwe.

Ishusho igaragaza amenyo uburyo aba ameze ndetse n'uburyo aba ateye mu mubiri, hagamijwe kugira ngo higwe neza imimerere y'imbere y'amenyo, niba hari ikibazo kivurwe kandi gikemurwe neza.

Umusore arimo arireba mu ndorerwamo,, kugira ngo arebe uburyo amenyo ye ameze. Arimo arayasukura yifashishije urudodo akuramo imyanda bityo yirinde uburibwe bwa hato na hato bushobora kwataka amenyo ndetse n'izindi.

Inzobere z'abaganga babiri bazobereye mu buvuzi bw'amenyo, barimo baravura umurwayi bifashishije ibikoresho byabugenewe, kugirango avurwe neza amenyo ye kandi akiri, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusore yifashishije urudodo, arimo arareba mu ndorerwamo maze agasukura amenyo ye akuramo imyanda irimo, bityo amenyo akomeze kuba ari meza akomeye kandi asa neza, hirindwe indwara zitandukanye zishobora kuyafata.

Umwana mutoya arimo arasobanurirwa, ku mikorere ndetse n'uburyo ubuvuzi bw'amenyo bukorwa, hifashishijwe ishusho igaragaraho amenyo, kugira ngo abashe gusobanukirwa, inyuma ye hari abandi bashyitsi barimo mwarimu, ndetse n'undi muntu umwe wabasuye w'umuzungu.

Abana bato b'abanyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abahungu, barimo bifashisha uburoso basukura amenyo, hakoreshejwe umuti wabugenewe ndetse n'amazi meza asukuye, bityo indwara zitandukanye zifata amenyo zibashe kwirindwa mu bana bato.

Umusore uryamishijwe kwa muganga arimo arahabwa ubuvuzi bw'amenyo, aho barimo barashyira umuti mu menyo hifashishije ibikoresho byabugenewe kugira ngo amenyo amere neza kandi agire ubuzima bwiza, bityo nawe yumve ko ahawe serivisi nzima.

Ibikoresho byifashishwa havurwa amenyo, harimo ibisukura amenyo n'ibindi byifashishwa mu gihe bibaye ngombwa bagiye kuyakura, akaba ari ibikoresho byose byiza kandi byizewe ndetse bivura neza.

Umwana mutoya n'umupapa, bose bafite urododo mu ntoki barimo bararunyuza mu menyo. Kugira ngo bakuremo imyanda yaba irimo, mu buryo bwo kugira ngo amenyo akomeze kugira ubuzima bwiza kandi akomere, bityo hirindwe indwara zitandukanye z'amenyo.

Umusore arimo arasukura amenyo, yifashishije igikoresho cyabugenewe, aho agishyize hagati mu menyo, cyane cyane yibanze ku ryinyo afiteho ikibazo, kugira ngo na we agire ubuzima bwiza.

Umusore arimo aragaragaza amenyo ye, amenyo meza, akomeye, yavuwe, ahabwa ubuvuzi bwose kugirango ngo akomeze kugira ubuzima bwiza. Hifashishijwe bimwe mu bikoresho byo kwamaganga bivura amenyo, harimo n'ibikuramo imyanda, maze akaba afite ubuzima bwiza.

Muganga arimo aravura umurwayi amenyo, akuramo imyanda kugira ngo umurwayi akire. Ndetse hirya hari abandi baganga, na bo barimo barandika amakuru atandukanye ku barwayi basuzumye kugira ngo ubuvuzi bw'amenyo bukomeze butezwe imbere.

Abana bato barimo abakobwa n'abasore, bifashishije amazi n'uburoso, barimo barasukura amenyo kugira ngo bakuremo imyanda, bityo indwara z'amenyo za hato na hato zirimo uburibwe bukabije n'izituruka ku myanda zirindwe.

Inzobere mu buvuzi bw'amenyo, umumama n'umupapa barimo baravura umurwayi amenyo bifashishije ibikoresho byabugenewe bikoreshwa havura hanavurwa, amenyo kugira ngo uyarwaye akire.

Muganga arimo aravura umurwayi amenyo yifashishije ibikoresho byabugenewe kugira ngo amenyo abashe kuvurwa, harimo ibikoresho bikoreshwa hasukurwa amenyo ndetse n'ibyifashishwa mu gihe bibaye ngombwa ko iryinyo barikuramo bityo umurwayi akabasha kwitabwaho.

Icyumba kirimo ibikoresho by'umwihariko byabugenewe mu buvuzi bw'amenyo, ndetse n'aho umurwayi yicara kugira ngo avurwe amenyo ye neza kandi vuba, akaba ari icyumba cyiza gifite isuku, ndetse cyujuje ubuziranenge.

Ishusho igaragaza amenyo uburyo aba ameze ndetse n'uburyo aba ateye mu mubiri kugira ngo agaragare neza, igihe amenyo yarwaye imbere arebwa gute ndetse avurwa gute.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo. Harimo uburyamo umurwayi aryamishwaho kugira ngo amenyo avurwe. Ndetse n'intebe umuganga yicaraho arimo aravura umurwayi. Harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa barimo baravura ayo menyo bakuramo imyanda cyangwa se banarikura mu gihe bibaye ngombwa.

Umurwayi urwaye amenyo ndetse na muganga ubizobereye, arimo aramuvura amenyo yifashishije ibikoresho byabugenewe, bikoreshwa mu buvuzi bw'amenyo kugira ngo umurwayi agire ubuzima bwiza ndetse abashe kwitabwaho.

Umusore urimo aragaragaza amenyo kubera ko amenyo yiwe afite isuku yayakoreye ubuvuzi hifashishijwe yaba ari urudodo n'indi miti ikaba ari meza kandi akaba afite ubuzima bwiza.

Umuntu arimo arireba mu ndorerwamo, afite urudodo arimo aranyuza mu menyo kugira ngo akuremo imyanda itandukanye, bityo indwara z'amenyo zishobora kumufata, zirindwe ahubwo agire ubuzima bwiza.

Umukobwa arimo aragaragaza igice cy'umunwa cyane cyane amenyo, akaba ari amenyo meza, asukuye atarimo imyanda ndetse yose akaba arimo, ubona ko nta ryinyo na rimwe bamukuye, akaba afite ubuzima bwiza.

Umusore arimo aravurwa amenyo na muganga wabizobereye kugira ngo amenyo ye arusheho gukomera kandi hirindwe n'izindi ndwara zitandukanye zaterwa n'uburwayi bwafashe amenyo, harimo umutwe ukabije.

Muganga arimo aravura umusore amenyo. Aha akaba arimo aramushyiriramo umuti. Uwo musore akaba afite amenyo meza. K'ubwo kugenda kwivuza bikaba byamuhesheje kugira amenyo meza kandi asukuye azira uburwayi.

Umuganga uri mu cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye akoresha mu buvuzi bw'amenyo, yaba kubana, ku bakuze ndetse n'abakuze cyane kugira ngo indwara bafite zirimo uburibwe bukabije, imyanda ndetse n'amrnyo akeneye gukorwa bikurikiranwa.

Ishusho igaragara igice cyo hejuru ku muntu kigizwe n'umunwa n'amenyo, aho bari kugaragaza uburyo amenyo aba ameze mu mubiri ndetse n'iyo yarwaye uburyo aba ameze.

Umusore ufite amenyo meza, ubona ko yayitayeho yifashishije umuti, wabugenewe, mu koza amenyo ndetse no kuyasukura. Bityo akaba afite ubuzima bwiza, n'amenyo mazima, kandi meza.

Umwana mutoya arimo aroza amenyo yifashishije uburoso ndetse n'umuti, wifashishwa hozwa amenyo kugira ngo indwara z'amenyo zitandukanye zirindwe n'uburibwe bukabije bushobora gufata amenyo bwirindwi bityo ubu buvuzi bw'amenyo butezwe imbere.

Kwa muganga icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa by'umwihariko mu buvuzi bw'amenyo. Yaba ari ugusukura amenyo ndetse no gukura amenyo aho biri ngombwa. Bikaba byizewe ku buryo ibasha kuvura indwara zitandukanye z'amenyo.

Umuganga uri kuvura umurwayi amenyo, ari kumuvura yifashishije ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo, aho umurwayi aryamishwa neza, kuburyamo bwiza, kugira ngo abashe kuvurwa amenyo, bityo imyanda ivanwemo mu menyo neza.

Ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo hari aho umurwayi, yicara akegamira neza, maze agasukurwa amenyo, byaba na ngombwa hari amenyo agomba gukurwamo, agakurwamo agasimbuzwa andi. Ni ibikoresho byiza kandi byizewe.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo, ari ibikuramo imyanda mu menyo ndetse n'ibikoreshwa hakurwa amenyo mu gihe bibaye ngombwa kugira ngo ubuvuzi bw'amenyo bukomeze kunozwa.

Umusore urimo arireba mu ndorerwamo, afite urudodo arimo arakura imyanda iba iri hagati mu menyo kugira ngo hirindwe, uburwayi bw'amenyo, ndetse n'uburibwe bwa hato na hato buterwa n'indwara z'amenyo harimo nk'umutwe ukabije.

Umwana mutoya arimo aravurwa amenyo n'inzobere mu kuvura amenyo, akaba arimo yifashisha uriho kureba mu menyo y'umwana, arebe imyanda niba harimo n'ikindi kibazo kirimo kugira ngo abashe gukoresha ibikoresho byabugenewe.

Umurwayi arimo aravurwa amenyo, aho umuganga w'inzobere mu kuvura amenyo agiye kumushirira umuti mu menyo kugira ngo amenyo akomeze gukira no kugira ubuzima bwiza, maze uburibwe butandukanye bwa hato na hato buterwa n'indwara z'amenyo bwirindwe.

Umukobwa n'umusore barimo barireba mu ndorerwamo, bareba amenyo yabo uko ameze, niba aba arimo imyanda cyangwa se niba nta kibazo bafite, bityo ukomeze kugira ubuzima bwiza kandi n'amenyo yabo akomeze kuba asa neza.

Umuntu ubona ko ari igitsina gabo, ufite amenyo meza ndetse n'urudodo mu ntoki rwifashishwa hasukurwa amenyo kugira ngo ubuzima bw'amenyo bukomeze gutezwa imbere, aho barukoresha bakura nk'imyanda itandukanye iba iri iri hagati mu menyo maze uburibwe bwa hato na hato bwirindwe.

Umuntu arimo arasukura amenyo yifashishije urudodo, aho arunyuza mu menyo agakuramo imyanda itandukanye ishobora gutera uburwayi bw'amenyo mu gihe idakuwemo bityo ubuvuzi bwe bukaba bwizeye kubera ko arimo arasukura amenyo kandi indwara zitandukanye zika ziri kwirindwa.

Umusaza uri kumwe na muganga bamwe baraganira bishimanye ubona ko umuganga arimo aramuhereza serivisi nziza kandi imunogeye, bityo nawe akaba arimo aritabwaho kandi arimo aragira ubuzima bwiza kandi akaba arimo aravurwa.

Umuntu uri mu zabukuru, arimo arakina umukino w'intoki, kugira ngo yumve atuje muri we kandi akanye bityo ubuzima bwiza bwiyongere kuri we kandi akomeze yumve ko nawe atari wenyine.

Umukecuru arimo araganira n'umwana mutoya ubona ko bishimanye, umukecuru anezerewe kumva ko nawe afite umuntu umwitayeho kandi bari kuvugana, bityo bigatuma yumva ko atari wenyine.

Muganga arimo aravura umusaza ukuze cyane, akaba arimo aramuhereza imiti kugira ngo ayinywe ndetse anamukurikirane, ku buryo umusaza yumva ko nawe yitaweho kandi atari wenyine.

Umukecuru urimo uravurwa n'inzobere yabihuguriwe, akaba ari umuganga w'igitsina gore, ubona ko bishimanye, umukecuru yahawe serivisi nziza, kandi akaba arimo aravurwa neza, bityo nawe akaba arimo agira ubuzima bwiza, kandi yumva ko atatereranywe.

Umuganga arimo arapima umupapa uri mu zabukuru indwara yifashishije igikoresho cyabugenewe cyifashishwa hapimwa cyane cyane indwara zo mu maraso, umuvuduko w'amaraso ndetse n'umutima.

Umuganga w'umu mama arimo arita ku mugabo uri mu za bukuru amuganiriza ubona ko bishimanye kandi bahuje ikiganiro, bityo bigatuma umu papa uri mu za bukuru yumva ko atari wenyine ahubwo yitaweho neza.

Muganga arimo aravura umukecuru kugira ngo na we akire. Yicaye mu ntebe aha arimo aramuganiriza ubona ko bishimanye, bigatuma n'umukecuru na we yumva ko ahawe serivisi nziza kandi.

Umusaza arimo aravurwa na muganga, aho umuganga arimo aramukoresha ubugororangingo bw'ukuboko kugira ngo imitsi ikore neza n'amaraso atembera neza mu mubiri, bityo umusaza na we akomeze kugubwa neza.

Umukecuru n'umusaza bishimanye bari kuganira ndetse banaseka ubona ko nta kibazo, bafite afite ubuzima bwiza kandi umwe ari kwita ku wundi, kugira ngo bakomeze gusaza nta kibazo cy'irungu bagize.

Umusaza arimo aravurwa n'inzobere yahuguriwe kuvura abantu bakuze cyane, akaba arimo arafatishwa igikoresho mu ntoki kugira ngo abashe kugorora imitsi, cyane cyane imitsi yo mu maboko maze agire ubuzima bwiza, muganga nawe we akaba arimo aramufasha muri iyo serivisi nziza kandi inoze.

Umusaza ari gusoma inkuru zitandukanye ubona ko ziryoheye amatwi, akaba ari ukugira ngo yumve ko atari wenyine kandi afite ubuzima bwiza bityo akomeze anamenye amakuru atandukanye avugwa ku Isi.

Umukecuru arimo arategurirwa amafunguro arimo imboga n'ibindi, ariko yose akaba arimo intungamubiri zitandukanye. Ziri bufashe umukecuru kugira ubuzima bwiza kandi akumva ko na we arimo aravurwa.

Muganga arimo aravura umukecuru amukoresha umwitozo, aho yamuhaye igikoresho afata mu ntoki, maze umukecuru aragifata kugira ngo hagororwe imitsi n'amaraso atembere neza mu mubiri, bityo umukecuru agire ubuzima bwiza.

Umuntu uri mu zabukuru arimo aranywa imiti ndetse arimo arasoma inyandiko umuganga arimo aramufasha kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umu mama uri mu zabukuru arimo ara ry'amafunguro meza arimo intungamubiri nyinshi zitandukanye harimo imbuto ndetse n'imboga kugira ngo akomeze kugubwa neza kandi umubiri we ukome ukora neza nta kibazo kirimo.

Umukecuru arimo aranywa imiti. Arimo arayihabwa na muganga, ndetse imbere ye afite ikirahure kirimo amazi, kugira ngo abashe kunywesha iyo miti. Bityo yivure, kandi agire ubuzima bwiza, yitabweho.

Umumama uri mu zabukuru ndetse n'umuganga wahuguriwe kwita ku bantu bari mu zabukuru, akaba arimo arita kuri uyu mumama ubona ko bishimanye bose barimo baraseka, kandi banezerewe bityo umumama akamva ko atari wenyine ahubwo yitaweho.

Umuryango wishimye. Urimo umwana mutoya, ndetse n'umama n'umusaza, bari mu z'abukuru. Ariko ubona ko bishimye, kuko bari kumwe nk'umuryango hamwe. Bityo bigatuma nabo, bakomeza kugira uburame, ndetse n'uburambe.

Inzobere mu byo kuvura abantu bari mu za bukuru, irimo iravura umusaza yifashishije ibikoresho bitandukanye, aho irimo iramupima umuvuduko w'amaraso kugira ngo hamenyekane indwara nyinshi zitandukanye zishobora kuba ziri mu maraso.

Umusaza arimo aritabwaho n'inzobere mu kuvura abasaza. Umusaza akaba yicaye ku ntebe yambaye agapfukamunwa, ndetse na muganga uri kumuvura akaba yambaye agapfukamunwa kugira ngo hirindwe n'indwara zitandukanye zibasha gukwirakwira binyuze mu matembabuzi.

Ababyeyi ndetse n'abapapa bari mu zabukuru bavuye gukora umwitozo ngororamubiri kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza bujyanye n'imyaka bafite maze nabo bakomeze kugira amasaziro meza kandi n'ubuzima bwabo bube bwize...

Umuntu uri mu zabukuru abona ko ashaje mu myaka akaba arimo arakina umukino kugira ngo aruhuke ndetse yumve n'ubuzima bukomeje kugenda neza bityo abashe kumva ko atari wenyine.

Umuntu w'umumama uri mu zabukuru, arimo arafata imiti kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kwitabwaho kandi akomeze kumera neza, ni ibinni arimo aranywa, ubona ko yavuye kwa muganga aravurwa neza na we akaba akomeje gukurikiza amabwiriza yahawe na muganga.

Umukecuru n'umusaza barimo barafata imiti yabo bahawe na muganga wabugenewe ndetse bakabona ko barimo baraganira banareba amakuru atandukanye ari ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo na bo bumve ko batari bonyine bityo mn'ubuvuzi bwabo bukomeza gutezwa imbere.

Umukecuru n'umusaza barimo baraganira, banafata amafunguro ubona ko bishimye, ndetse bari gufata amafunguro yongera abasirikare b'umubiri, ndetse n'ubwirinzi bw'umubiri, kugira ngo bakomeze bagubwe neza mu masaziro yabo.

Umumama uri mu zabukuru arimo aranywa imiti yifashishije amazi meza asukuye kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza ndetse yivure indwara zitandukanye maze abashe gukira.

Umusaza arimo arakoreshwa imyitozo ndetse ahabwa n'ubuvuzi kugira ngo umubiri ukomeze gukora neza, muganga arimo aramufasha gutambuka, agenda gake gake kugirango ngo atabasha gukomerekera aho ari kunyura kandi akomeze kugira ubuzima bwiza.

Abakecuru bari gukora umwitozo ngororamubiri w'amaboko kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, imitsi ikomeze ikore neza ndetse n'amaraso mu mubiri atembere neza, bityo hanirindwe indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Umukecuru arimo aravurwa na muganga w'inzobere mu kubavura, aho arimo aramuhereza imiti ndetse umukecuru afite amazi, arimo aranywa iyo miti kugira ngo abashe kwivura neza na we akire maze akomeze kugira ubuzima bwiza.

Abakecuru barimo barakora imyitozo ngororamubiri, bambaye udupfukamunwa, barimo baragorora ingingo kugira ngo na bo abashe kugira ubuzima bwiza kandi n'indwara zimwe na zimwe zibashe kuvurwa.

Umusaza ndetse n'umukecuru bishimanye, bari kuganira ubona ko umusaza arimo arereka umukecuru, anamusobanurira byinshi bitandukanye, maze abashe kuguma afite ubuzima bwiza kandi badafite irungu.

Ishusho ngari igaragaraho ingamba zitandukanye zafashwe n'abakora mu by'ubuzima ku ndwara zitandukanye kugira ngo zibashe kwirindwa, izo ngamba zose zikaba zigenewe abaturage ku myitwarire yabo ku ndwara runaka.

Imbaga y'abantu nyamwinshi iri mu nama, igamije gufata ingamba zo guteza imbere ubuvuzi ndetse n'ubuzima, kugira ngo abantu bitabweho, bavurwe kandi bakire, bityo ubuzima bwiza bukomeze butezwe imbere ku Isi.

Inama rusange ihuza isi yose kugira ngo hafatwe ingamba zitandukanye, ku bwirinzi bw'indwara zitandukanye yaba ari indwara zadukira ndetse n'imikoranire hamwe y'ibihugu mu bijyanye n'ubuvuzi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bihugu bitandukanye, bari bari mu nama, akamaro kugira ngo hafatwe, ingamba, ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, zibashe kwirindwa neza kandi n'abazirwaye bakurikiranywe mu buryo bwizewe.

Ikinyamakuru cyo muri Afurika gikora ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye kugira ngo hashyirweho ingamba bitewe n'indwara ubukana ifite maze abaturage babashe kuyirinda.

Imbaga y'abantu nyamwinshi iri kugendera hamwe irimo abasore abakobwa barimo bagaragaza ko tugomba kwirinda kanseri y'ibere tuyisuzumisha hakiri kare akaba ari zimwe mu ngamba ziri gufatwa na minisiteri y'ubuzima.

Inama yahuje imbaga y'abantu nyamwinshi, yiga ku buzima ndetse no guteza imbere ubuvuzi. Hakaba harimo abakora mu by'ubuvuzi n'abayobozi b'ibitaro bigiye bitandukanye kugira ngo ubuvuzi butezwe imbere hafatwe ingamba zigiye zitandukanye.

Icyapa kiriho indwara zitabasha kwandukira na zimwe mu ngamba zifatwa kugira ngo zikumirwe kandi zinavurwe neza zirangire burundu bityo kugira ngo abaturage babeho nta ndwara n'imwe bafite.

Agatabo kariho amakuru agaragaza uburyo bwo kuringaniza urubyaro bwizewe bwashyizweho, na Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo habashe kuvuka abana bazwi kandi hakoreshwa uburyo buzwi bunoze.

Umugabo ufite urupapuro rwanditseho ko umuti w'Ubushita cyangwa se urukingo rw'Ubushita rwabonetse, kugira ngo abaturage bikingire hakiri kare kandi ku gihe, bityo indwara y'Ubushita yirindwe.

Umumama n'umupapa bafite ibyapa bigaragaraho ingamba zitandukanye zashyizweho na Minisiteri kugira ngo habashe kwirindwa indwara zitandukanye, ahubwo abaturage bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Muganga arimo arakingira umumama ku rutugu. Akaba ari zimwe mu ngamba zo kugira ngo hatangwe urukingo ku bantu bose. Kugira ngo indwara zitandukanye zirindwe ahubwo abaturage bagire ubuzima bwiza.

Ingamba zitandukanye zashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima n'izindi nzego bafatikanya mu by'ubuzima kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye, bityo ubuvuzi bukomeze gutezwa imbere n'imibereho myiza y'abaturage.

Urujya n'uruza rw'abantu bakora mu by'ubuvuzi barimo baganirizwa n'inzobere kugira ngo hafatwe ingamba zitandukanye ku ndwara zitandukanye maze ubwirinzi bwiyongere mu baturage ndetse bakomezaze kugira ubuzima bwiza abaturage buzira indwara.

Inama yahuje abantu nyamwinshi, hagamijwe kugira ngo hafatwe ingamba zitandukanye, mu guteza imbere ubuvuzi no kwirinda indwara. Akaba yari arimo aravuga anasobanura uko ingamba zafatwa. Akaba ari umugore wa Perezida, Paul Kagame.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, harimo abakobwa abasore, abagabo ndetse n'abamama, bari baje mu nama, hafatwe ingamba ku ndwara zitandukanye ndetse n'ubwirinzi bukwiriye ku Isi hose.

Ingamba zitandukanye zashyizweho kugira ngo habashe kwirindwa indwara zitandukanye ndetse ntizinakwirakwire no mu bindi bihugu kugira ngo umuturage wese akomeze kurindwa aho ari.

Abayobozi batandukanye bahagarariye minisiteri y'ubuzima bari mu nama babona ko bafataga ingamba zitandukanye ku byemezo byinshi byo mu buzima kugira ngo ubuvuzi butezwe imbere ndetse na minisiteri y'ubuzima ikomeze itere imbere.

Gira ubuzima bwiza muturage w'u Rwanda. Ni serivisi itangwa na leta y'u Rwanda, ni muri zimwe mu ngamba zashyizweho kugira ngo Umuturarwanda wese agire ubuzima bwiza, yitabweho kandi akurikiranwe ku buryo abaho mu buzima buzira indwara.

Icyapa kigaragaza ubuzima bwiza ku baturage bo mu Rwanda, ni zimwe mu ngamba zashyizweho kugira ngo umuturage w'umunyarwanda wese, abashe kugira ubuzima bwiza, anakurikiranwe ku ndwara zitandukanye.

Inyubako iherereye mu Rwanda, ikunze kuberamo inama zitandukanye ndetse ubu hakaba hagiye kubera inama y'isi yose, ku munsi wahariwe indwara za diyabete, kugira ngo amakuru atandukanye abashe kumenyekana azerekeyeho.

Muganga arimo arasobanura ingaruka z'ibidukikije ku buzima bwa muntu kubera ko aribyo biduhereza umwuka duhumeka, bityo hagafatwa ingamba zitandukanye zo kubibungabunga dutera ibiti ndetse twirinda guhumanya aho dutuye, kugira ngo dukomeze duhumeke umwuka mwiza.

Ubwoko bw'indyo yuzuye, bwateguwe kugira ngo abantu babikurikize, na bo babashe gufata indyo yuzuye. Harimo imboga, imbuto, byose hamwe bigakora indyo nziza irimo intungamubiri, akaba ari zimwe mu ngamba zafashwe kugira ngo hanozwe imirire myiza.

Imbaga y'abantu nyamwinshi ubona ko barimo barahabwa ibikoresho byishishwa mu masuku. Akaba ari ingamba zafashwe kugira ngo hanozwe isuku ndetse hirindwe n'indwara zitandukanye, bityo abantu bagire ubuzima bwiza.

Imbaga y'abantu nyamwinshi, irimo urubyiruko ndetse n'abandi bakuze. Barimo barahabwa impuguro ku ndwara zitandukanye n'inzobere, zirimo zirabaganiriza kugira ngo hafatwe ingamba kuri izo ndwara ndetse n'ubuvuzi bukwiriye bubashe kuboneka.

Inama yahuje urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye, barimo urubyiruko abagabo n'abagore ndetse n'abakuze cyane, hakaba hagamijwe gufatwa ingamba zo kwirinda indwara zitandukanye, imbere hagaragara abantu barimo barabasusurutsa binyuze mu mbyino gakondo, kugira ngo ibiganiro bikomeze kugenda neza nta numwe urambiwe.

Ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, ahatangirwa ubuvuzi ku ndwara zitandukanye z'abaturage bo mu karere ka Nyarugenge ndetse n'abandi bantu batandukanye, babigana baje kwivuza.

Ibitaro bitangirwaho serivisi y'ubuvuzi bw'indwara, yaba ari indwara zo mu nda, iz'umutwe, ubuvuzi bw'abana batoya, ubw'abantu bakuru, bikaba byubatse ku buryo bwiza, ku buryo umurwayi wese abasha kuvurwa neza kandi akitabwaho.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa havura abarwayi ndetse harimo n'ibiriho abarwaye. Harimo uburyamo bubiri buriho abarwayi ndetse n'abaganga babiri barimo barabavura. Indwara zitandukanye. Kugira ngo bagire ubuzima bwiza bityo bakire vuba.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, akaba ari inyubako nini ku buryo bashobora kwakira abarwayi benshi batandukanye, yaba ari abana, abakuke, n'abakuze cyane, kandi bose bahabwa serivisi nziza kandi bafite umwanya mwiza ibinyabiziga biparikamo kugira ngo abarwayi bitabweho, n'abakozi babo babone aho baparika imodoka zabo.

Icyumba kinini cyiza ahabera inama zitandukanye kwa muganga, yaba ari inama zo kuganiriza abaturage ndetse no guhugura abarwayi, ku buryo bw'imyitwarire ndetse no ku ngamba nshya zifatwa ku ndwara ndetse hakaba hanabera inama z'umwihariko ku bakozi bo mu bitaro.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, ahari ubuvuzi bw'abana batoya, ubw'abakuze n'abakuze cyane. Harimo ibikoresho byinshi byifashishwa havurwa izo ndwara kandi bikaba byizewe n'imikorere yabyo.

Inyubako itangirwaho serivisi z'ubuvuzi bw'indwara, hari umupapa ufite umwana ubona ko yaravuye kumuvuza, kugira ngo ubuzima bw'umwana bugende neza, inyubako ifite inzira nziza abaryayi bagenderamo n'ubusitani bwiza.

Inyubako itangirwamo serivise z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo abaganga barimo abaganga b'abakobwa n'abamama ndetse n'abaganga b'abapapa. Harimo n'ibitanda byifashishwa baryamisha abarwayi kugira ngo bavurwe neza kandi bitabweho bityo ubuzima bwiza bukomeze gutezwa imbere.

Inyubako itangirwaho serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye. Ikaba ari inyubako nziza yizewe kandi ikora neza. Ikaba ari nini ku buryo imbaga y'abantu nyamwinshi babasha kuhivuriza, bityo bagakomeza kugira ubuzima bwiza, kandi hakirindwa n'indwara zitandukanye kuri bo.

Icyumba cyiza cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa havurwa indwara zitandukanye. Harimo imbonezamashusho igaragara bareba amakuru atandukanye ku burwayi umuntu afite ndetse n'uburyo bwiza bwiza bwo kumuvura.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo uburyamo bwinshi, ubona ko iyi nyubako ibasha kwakira abarwayi benshi batandukanye ndetse harimo n'inzitiramibu kugira ngo hirindwe n'indwara ya malariya.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, akaba ari inyubako nini nziza, yubakanye ubuhanga n'isuku, ku buryo umurwayi ugezemo atabasha kugiriramo ikibazo kuko abona uburyo bwiza bwo guhumeka kandi bwizewe, akanavurwa vuba.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse igihe ifite nimero ku muryango kuburyo umurwayi byoroha kumenya umwakira hari aho abaforomokazi baba bari kugira ngo bakire abarwayi kandi babavure neza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, aho umurwayi abasha kugurira imiti mu gihe arwaye, ndetse akabanza agasuzumwa neza bityo akabona kwivuza.

Inyubako nini itangirwamo service z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, ikaba yubakanwe isuku ndetse hakaba hakirirwa abarwayi b'ingeri zose kugira ngo bavurwe bitewe n'indwara barwaye kandi bakire.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye. Harimo abaganga benshi, yaba ari abakobwa ndetse n'abasore, bose bakora mu buvuzi. Hakaba harimo n'ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa havurwa indwara zitandukanye.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara z'abana batoya, indwara zifata abakuze ndetse n'izindi ndwara zifata abari mu zabukuru cyane, ikaba yubatse isukuye ku buryo ifite isuku ndashidikanywaho.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye by'umwihariko kikaba ari icyumba kiri mu bitaro aho ababyeyi bahererwa serivisi z'ubuvuzi, yaba ari ukubyara ndetse no kuza ku gipimo kugira ngo bakurikirane ubuzima bw'umwana umubyeyi atwite.

Inyubako itangirwamo serivise z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye. Harimo umurwayi uri ku buryamo ubona ko yari arimo aravurwa, ndetse n'ibikoresho bitandukanye biri kwifashishwa ahabwa ubuvuzi bwiza.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, ndetse n'ubujyanama ku barwayi. Kikaba ari ikigo nderabuzima cyubatse neza serivisi zaho zikaba zinoze.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye harimo umuganga w'umumama, harimo arakoreshashwa bimwe mu bikoresho byifashishwa hatangwa serivisi nziza ku barwayi inoze, aho babika imiti ndetse n'aho bakorera isuzuma ry'umubiri.

Inyubako itunganyirizwamo ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye, aho bamenya uburyo ndwara zivurwamo, yaba ari indwara zaduse ndetse n'indwara zisanzwe ariko zananiranye. Ikaba yuyubatse neza ku buryo nta kintu cyabasha kwangirika kirimo, kandi ikaba ifite n'umutekano wizewe.

Amarembo y'ibitaro bya Kabgayi ahazwiho gutangirwa serivisi z'ubuvuzi cyane cyane bw'amaso, yaba ari ku bana bato ndetse n'abakuze kugira ngo bitabweho kandi bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, hari ubuvuzi bwo mu mutwe, ubuvuzi bw'abana batoya, ku ndwara zirimo nk'indwara zo mu nda n'izindi ndwara z'impiswi, kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi bakure neza.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi butandukanye by'umwihariko aha ni ku cyumba gitangirwamo ibisubizo ku bizamini byafashwe, hari abarwayi batandukanye barimo abana batoya, abamama n'abapapa baje kumva ibisubizo kugira ngo bamenye uko umubiri wabo uhagaze.

Inyubako itangirwamo serivisi zubuvuzi, aho muganga arimo aravura umwana mutoya, w'umuhungu, ndetse n'uwamuzanye bakaba bari kumwe, akaba arimo aramuvura, yifashishije ibikoresho byabugenewe, kandi abanza kumuganiriza, ku buryo umwanaogeye serivisi kandi yishimye.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye harimo indwara zo mu nda, indwara z'uruhu, indwara z'impiswi n'izindi ndwara. Hakaba hagaragara urujya n'uruza rw'abantu barimo baravurwa, haba abarimo imbere kwa muganga n'abandi barimo baraza kugira ngo bitabweho.

Inyubako itangirwamo serivise z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo aho abarwayi baryamishwa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa hagamijwe kureba neza imimerere y'umuntu, yaba ari imbere mu mubiri ndetse n'izindi ngingo.

Icyumba cyo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'umwihariko ku ndwara zitandukanye, ushobora kuhabagira umuntu mu gihe indwara ye yabashije gukomera cyane kugira ngo yitabweho nawe avurwe akire.

Ku kigo nderabuzima cya Shagasha, ahatangirwa ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, ari ubuvuzi bw'abana batoya ndetse n'ubuvuzi bw'abakuze, hakaba hubatswe neza, hubakanywe isuku kugira ngo abahagana bahabwe serivise nziza kandi inoze.

Inzu y'ababyeyi, ahatangirwa ubuvuzi bw'umwihariko ku babyeyi, akaba ari ho babyarira ndetse bakanahavurirwa kugira ngo ubuvuzi bwabo n'ubw'abana bavutse babashe kwitabwaho neza by'umwihariko.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye; yaba ari indwara zo mu nda n'izindi ndwara. Hagaragara ku marembo umuganga ubona ko yarimo aratera imiti kugira ngo udukoko dutandukanye tubashe gupfa.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye. Haba ubuvuzi bw'abana batoya, havurwa abakuze ndetse n'abakuze cyane kugira bitabweho. Hari n'ibikoresho byiza bisukuye kandi byuzewe imikorere yabyo, bikaba byifashishwa havurwa abarwayi.

Inyubako itangirwaho serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu benshi barimo baraza bagana kuri iyi nyubako; yubatse neza ndetse yubakanwe isuku ku buryo nta ngaruka mbi yagira ku murwayi uhagenda.

Ibikoresho bitandukanye, biri mu nyubako nziza kandi ngari mu cyumba kinini, bikaba byifashishwa mu buvuzi bw'indwara. Yaba havurwa abana batoya, havurwa abakuze n'abakuze cyane kugira ngo bitabweho kandi bagire ubuzima bwiza.

Inyubako yifashishwa hatangwa ubuvuzi, iherereye i Kanombe hakaba hanacururizwa imiti ikaba iherezwa abarwayi ku ndwara zitandukanye, mo imbere harimo abantu bagiye kugura imiti na muganga wabizobereye urimo urabafasha.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa havurwa abarwayi, harimo mudasobwa ikoreshwa habikwa amakuru yerekeye ku murwayi ndetse hanasesengurwa andi, harimo n'ibindi bikoresho byose bikaba byifashishwa muri serivisi y'ubuvuzi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, kikaba ari icyumba kirimo bimwe mu bikoresho byifashishwa havurwa abarwayi, harimo igikoresho umurwayi yicazwamo kugira ngo avurwe, intebe muganga yicaraho, ndetse n'ibindi bikoresho, kugira ngo hatangwe ubuzima bwiza na serivisi inoze.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'ababyeyi aho ababyeyi, aho ababyeyi babyarira ndetse bakanakurikiranwa baza ku gipimo kugira ngo hanozwe ubuzima bwiza bw'abo batwite ndetse nabo ubwabo, bityo ubuvuzi bw'ababyeyi bukomeze butezwe imbere.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Yaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, abakuze ndetse n'abakuze cyane. Ikaba irimo ibikoresho birimo uburyamo bwifashishwa, haryamishwaho abarwayi cyane cyane umurwayi urembye.

Inyubako itangirwaho serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, ari ubuvuzi bw'abana batoya, abakuze ndetse n'abakuze cyane, hagaragaraho umurwayi wicaye mu kagare, arimo araza kwivuza kwa muganga ndetse n'uburyo bwizewe bwo gufata amazi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, ubona ko ahangaha ari aho abarwayi bakirirwa umwe kuri umwe, bitewe nuko bagiye baza bakurikirana, kugira ngo bahabwe serivisi z'ubuvuzi ku ndwara bafite, kandi babashe kuvurwa neza bakire.

Inyubako y'u Rwanda yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye. Hagaragara umugabo uvuye gusaba serivisi zo kwivuza, yubatswe neza ndetse ifite ubusitani bwiza ku buryo abarwayi babasha kuharuhukira mu gihe barimo barahabwa serivisi.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara, indwara zitandukanye. Hari n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa havurwa izo ndwara ndetse muri kino cyumba muganga arimo arasuzuma ibizamini yafashe kugira ngo arebe uburwayi bwaba burimo.

Inyubako itangirwaho serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bwa bantu bakuru, abana batoya ndetse n'abashaje, harimo abasaza n'abakecuru, hagaragara n'abantu benshi baje kwivuza.

Inyubako nini itangirwaho serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, ika ibasha kwakira abarwayi benshi kubera ko ari nini cyane, ndetse yubakanywe isuku ifite n'umwanya munini aho imodoka zibasha guhagarara, kugira ngo niba hari umurwayi uzanywe yitabweho.

Inyubako yo kwa muganga, irimo abaganga babiri b'abakobwa ndetse n'umusore, harimo n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa havurwa indwara zitandukanye, barimo barakoresha ibyo bikoresho ndetse bambaye neza ibikoresho byabugenewe ndetse n'ibindi birinda intoki kugira ngo babashe kwita ku babagana neza.

Umukobwa waryamishijwe neza kwa muganga mu cyumba, akaba arwaye arimo yitabwaho n'abaganga ku ndwara afite kugirango abashe kwitabwaho neza kandi akire vuba, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Inyubako itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi bw'ingingo kubantu baba bavunikiye mu myitozo ngororamubiri akaba ari inyubako nziza ifite isuku kuburyo abantu bayigana bahabwa serivisi inoze.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi kandi byiza bikoreshwa mu buvuzi bw'indwara. Bikaba ari ibikoresho byose byizewe imikorere yabyo ndetse bikaba byifashishwa kwa muganga, kugira ngo serivisi z'abarwayi zitangwe neza, bavurwe.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo uburyamo bwiza, abarwayi baryamishwaho mu gihe bagiye kuvurwa. Bityo bakitabwaho neza. Ni inyubako yubakanwe isuku kandi ibona ko serivisi zaho ari nziza.

Inyubako yo kwa muganga ndetse irimo n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa havurwa indwara zitandukanye, yaba ari indwara zifata abana bato, izifata abakuze ndetse n'abakuze cyane. Hagamijwe kugira ngo ubuzima bwiza bukomeze kugera kuri bose nk'uburyo bwiza kandi bworoshye.

Inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, hari n'ibikoresho byinshi byiza mu cyumba cyiza byifashishwa ahavurwa izo ndwara. Byose bikaba bikora kugira ngo hanozwe ubuvuzi bwiza kandi abaturage babashe kwitabwaho bityo ubuzima bwiza bukomeze busendere mu baturage.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye yaba ari indwara zifata abana batoya, harimo imiti itangwa kugira ngo abarwayi bayinywe ndetse harimo n'ibindi bikoresho byifashwa bafata ibizamini ku barwayi.

Kwa muganga mu cyumba kirimo imbaga y'abantu nyamwinshi, barimo abana batoya ndetse n'abakuze, imbere hari umuganga n'abandi bayobozi barimo barabahugura bahereza ibiganiro, ndetse banakomeza kuba serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye yaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abapapa cyangwa se abamama ndetse n'abakuze cyane n'abasaza n'abakecuru, akaba ari ibitaro byiza kandi binini ku buryo umubare nyamwinshi w'abarwayi ubasha kuza ukivuza.

Inyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye. Ikaba yubatse neza ndetse yubakanywe isuku nyinshi, harimo ibikoresho byifashishwa havurwa abarwayi. Harimo uburyamo bwiza ndetse n'aho muganga ashyira ibikoresho.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye yubatse neza ndetse ifite isuku ku buryo abarwayi babasha kubavurwa neza ndetse bakanitabwaho bagakira vuba bityo ubuvuzi bwiza bukomeza gukwirakwira.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye harimo indwara zo mu nda akaba inyubako nini ifite uburyo yubatsemo ku buryo ibasha gutanga umuyaga mwiza abarimu baka baticwa n'ubushyuhe ndetseba ari inyubako ibasha kwakira abarwayi b'ingeri zose.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye harimo umuganga arimo aravura umwana mutoya nk'uruhinja kugirango ngo abashe gukira bityo agire ubuzima bwiza kandi akure ameze neza ndetse n'abandi barwayi akabasha kuvurwa muri iyi nyubako.

Inyubako irimo amashashi menshi atandukanye arimo amaraso yagiye atangwa n'abantu ku bw'ubushake ndetse bafasha imbabare kugira ngo zibashe kuvurwa, hakaba hatangirwa ubuvuzi cyane cyane bwo kongerera abarwayi amaraso.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, bw'indwara za kanseri, akaba ari ku cyicaro gikuru mu Rwanda ahatangirwa ubuvuzi bw'indwara za kanseri, hakaba habasha kuza abarwayi b'ingeri zitandukanye bakavurwa kandi bakitabwaho, bakanagira ubuzima bwiza.

Iyi nyubako nziza nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hari urujya n'uruza rw'abantu benshi baje kwivuza ndetse na bamwe mu bahakora batanga izo serivisi z'ubuvuzi. Yubatse neza iyi nyubako ku buryo ibasha kwakira abantu benshi batandukanye kubera ko ari nini cyane.

Ku bitaro ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, ku bantu bose. Ndetse hari n'icyapa kiriho, zimwe muri serivisi batanga, n'ingamba n'intego bafite, kugira ngo ubuzima bwiza bukomeze busakare.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'ababyeyi, yaba ari ababyeyi batwite cyangwa se n'undi mubyeyi ukeneye serivisi y'umwihariko, akaba ari ho ababyeyi babyarira ndetse banaza ku gipimo kugira ngo bite ku buzima bw'abana batwite.

Inyubako itangirwamo serivisi nyinshi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye. Harimo imiti yifashishwa havurwa abarwayi, ndetse n'izindi serivisi zitandukanye zihatangirwa, by'umwihariko zigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, binyuze mu kubavura indwara.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, hagamijwe kuvurwa abarwayi, yaba ari abana batoya, abagore, abagabo ndetse n'abasaza n'abakecuru. Ikaba irimo ibikoresho byifashishwa havurwa abarwayi kugira ngo bakire.

Icyumba kimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, akaba ari icyumba cyo kwa muganga kirimo uburyamo ndetse naho bamanika imiti mu gihe barimo baravura umurwayi kugira ngo yitabweho.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari indwara zifata abana batoya, zirimo indwara z'impiswi ndetse n'indwara zifata ababyeyi, abagabo ndetse n'abasaza n'abakecuru.

Inzu y'ababyeyi ndetse n'abaganga bane b'ababyeyi bambaye umwambaro bakoresha barimo baravura abarwayi. Akaba ari inyubako yakirirwamo ababyeyi batwite, aho babyarira bakitabwaho, yaba ari bo ubwabo ndetse n'abo babyaye.

Inyubako nini nziza itangirwaho serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye. Mu marembo yaho hateye ibyatsi byifashishwa nabyo mu buvuzi bw'iyi ndwara, aho bitunganywamo umuti ndetse hari n'ubusitani bwiza ku buryo umurwayi ahivuriza agakira kandi ahahawe serivisi nziza kandi inoze.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ahangaha hagaragara ni aho bakirira abarwayi, bakabasha kwicazwa ndetse bakanabazwa ibibazo bitandukanye bitewe na serivisi bifuza, maze ugakomeza mo imbere aho bakomeza kuvurwa n'abaganga.

Inyubako aho abahohotewe barega cyane cyane abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina kugira ngo babone ubutabera bwiza kandi bwizewe bityo bakomeze kuba mu bandi nta kibazo bafite kandi banyuzwe.

Inyubako itangirwaho serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara zifata abana batoya, indwara zikunda kwibasira abari mu zabukuru n'indwara zifata abantu bo mu myaka yo hagati.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, aha ngaha akaba ari aho bakirira abagana iki kigo nderabuzima, yaba ari abana baje kwivuza, ababyeyi ndetse n'abantu bakuru, kugira ngo babashe guhabwa serivisi ku muronko.

Inyubako nziza itangirwamo serivise z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubw'abakuze ndetse n'ubuvuzi bw'abakuze cyane, y'ubakanwe isuku ku buryo umurwayi abasha kwitabwaho neza kandi agakira.

Inyubako itangirwaho serivisi z'ubuvuzi butandukanye ku ndwara zitandukanye, kugira ngo abazirwaye bavurwe kandi bakire. Ikaba ari inyubako nziza nini ku buryo ibasha kwakira abarwayi benshi kandi bose bakavurwa neza.

Kwa muganga aho umuganga arimo arita ku mwana muto w'uruhinja kugira ngo agire ubuzima bwiza. Arimo aramusuzuma ndetse anamuvura n'indwara zitandukanye kandi akamwitaho mu buryo bwiza. Urabona ko muganga yishimiye kuvura uyu mwana.

Inyubako icururizwamo imiti ku ndwara zitandukanye. Ikaba yitwa ubwiza n'ubuzima. Ikaba igurisha imiti yaba ku ndwara zo mu nda n'izindi ndwara zose kugira ngo abazirwaye bavurwe kandi bakire, bityo ubuzima bwiza bukomeze gusakara.

Inyubako ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara zifata abana batoya, abakuze ndetse n'abakuze cyane, bityo babashe kuvurwa bakire ndetse bahabwe n'imiti ku ndwara bafite, bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, akaba ari ubuvuzi bwizewe ndetse hakaba hagaragaza zimwe mu ntego bafite by'umwihariko akaba ari ugufasha abaturage kubavura neza bakanabaha serivisi nzima kandi inoze.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, ndetse harimo umuganga ufite ibikoresho yifashishwa harimo haravurwa abarwayi kugira ngo bitabweho neza kandi bakire.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Harimo umuganga imbere, ubona ko batanga ubuvuzi bwiza kandi bwizewe, akaba ari inyubako yubatse neza, ku buryo umurwayi wese uhaganye, ahabwa serivisi nziza kandi inoze.

Ibitaro byitiriwe umwami Faisal, hakari ibitaro bitangirwaho ubuvuzi bw'indwara zitandukanye hagamijwe guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, ni ibitaro binini ku buryo imbaga nyamwinshi y'abaturage ibasha kuza ikahivuriza kandi igakira.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi byifashishwa muri ubwo buvuzi ndetse harimo n'umuntu urimo uragenda muri iyo nyubako ubona ko akora muri ibi bitaro.

Inyubako itangirwaho serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, ikaba yubatse neza kandi akaba ari nini ku buryo ibasha kwakira abarwayi benshi, yaba ari abana batoya, abakuze n'abakuze cyane kugira ngo bavurwe kandi bitabweho.

Ibitaro bya Butare ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye yaba ari indwara zifata abana batoya, izifata abakuze n'abakuze cyane kugira ngo bakire ndetse banahabwe serivisi nziza kandi inoze, ni ibitaro byubatse neza kandi bifite isuku.

Inzu y'ababyeyi, ahatangirwa ubuvuzi bwihariye ku babyeyi. Ababyeyi barahabyarira ndetse bakanakurikiranwa, baza ku gipimo kugira ngo bamenye ubuzima bw'abana batwite uko uhagaze. Mu marembo hari abaganga ndetse n'ababyeyi batandukanye.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye by'umwihariko iki akaba ari icyumba cyakirirwamo ababyeyi, akaba ariho babyarira ndetse hakanakurikiranwa abo babyaye, kugira ngo hanozwe imivurire myiza y'ababyeyi ndetse no kwita ku bana bavutse.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, harimo ibikoresho byifashishwa havurwa abarwayi, harimo intebe umurwayi ashobora kwicaraho mu gihe arimo arakirwa na muganga ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa bakomeje kumukurikirana.

Ikigo nderabuzima cya Gishweru ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye yaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubw'abakuze ndetse n'abakuze cyane, hari umuganga uri ku marembo ndetse n'abandi bantu baje gusaba serivisi zo kwivuza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari indwara zifata mu nda n'izo mu mutwe ndetse n'indwara zikomeye cyane kugira ngo zikorwe kandi zikirere, yubatse neza ku buryo buri muryango ugiye uriho nimero iwuranga.

Abaturage benshi batandukanye barimo: abamama, abapapa, ndetse n'urubyiruko, baje gusaba serivisi zo kwivuza kwa muganga, ubona ko bari ku murongo barimo bakirwa na muganga, abasuzuma buri wese avuga uko arwaye, kugira ngo abashe kuvurwa kandi akire vuba.

Ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa havurwa indwara zitandukanye, harimo uburyamo umurwayi aryamaho, ndetse hari na mudasobwa abasha gusesenguriraho amakuru ajyanye n'indwara umurwayi arwaye kugirango avurwe.

Inyubako nziza itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse irimo n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa hatangwa iyo serivisi, ikaba ifite isuku ku buryo abarwayi bahagana nta kibazo bahura nacyo maze ikaba ivura ingeri zose.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, bw'indwara zitandukanye, kugira ngo hanozwe imibereho myiza y'abaturage. Harimo ibikoresho byinshi ndetse n'aho abarwayi bakirirwa kugira ngo bitabweho.

Icyumba cyo kwa muganga ahatangirwa ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, harimo abaganga bane bambaye udupfukamunwa ndetse umwe afite umurwayi uryamishijwe ku buryamo bwiza, akaba arimo aramwitaho amuhereza ubuvuzi.

Iraguha inyubako itangirwamo serivisi z'ubucuruzi bw'imiti ku ndwara zitandukanye, habonerwa imiti y'abana, iy'abakuru, ndetse n'iyabakuze cyane kugira ngo bavurwe kandi babone serivisi bitabagoye.

Icyumba gitangirwamo ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa muri ubwo buvuzi harimo: uburyamo n'ibindi bikoresho, kikaba cyifashishwa ahanini havurwa ingeri zose z'abantu kugira ngo bakire.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abana batoya n'ubuvuzi bw'abantu bakuze, harimo ibikoresho byifashishwa birimo: uburyamo ndetse n'intebe, n'ibindi bikoresho byifashishwa bitandukanye kugira ngo ubuvuzi bunozwe.

Inyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, ari ubuvuzi bw'abana bato, abakuze, ndetse n'abakuze cyane, yubatse neza, irasukuye, ndetse harimo n'ibikoresho byifashishwa bakira abarwayi, nk'intebe nziza abarwayi bicaraho, ndetse n'ahatangirwa serivisi heza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye iri mu Karere ka Nyarugenge, akaba ari ibitaro byakira abantu batandukanye, by'umwihariko abaturage bo mu Karere ka Nyarugenge kugira ngo bavurwe, ndetse hakomeze gutezwa imbere ubuzima bwiza bwabo.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, harimo ibikoresho byifashishwa, harimo Mudasobwa babasha kubona ibisubizo hifashishijwe ikoranabuhanga, ndetse n'ibindi bikoresho kugira ngo abarwayi bakomeze kuvurwa neza.

Inyubako itangirwaho serivisi zubuvuzi by'umwihariko, umumama w'umuganga arimo aravura babiri abasuzuma indwara zitandukanye, harimo indwara z'umuvuduko w'amaraso kugira ngo bavurwe kandi bitabweho.

Inyubako itangirwaho serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abana abakuze n'abakuze cyane. Yubatse neza ndetse ifite isuku, ndetse n'inzira nziza ku buryo abarwayi babasha kuhagenda nta kibazo, bakitabwaho kandi bakavurwa neza.

Inyubako yo kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye. Iki akaba ari icyumba kinini cyiza kirimo intebe, ubona ko hashobora kuberamo ibiganiro, bahugura abaganga ubwabo cyangwa se bahugura abarwayi.

Inyubako nini cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, ikaba ifite umwanya munini ibinyabiziga biparikaho mu gihe abarwayi baje cyangwa se abakozi bakora muri ibi bitaro nabo baje, kugira ngo hatange serivisi nziza kandi inoze, ikaba ari inyubako nini ku buryo ibasha kwakira abarwayi batandukanye kandi bose bagahabwa serivisi nziza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa havurwa abarwayi, byose akaba ari ibikoresho byiza kandi byizewe bikora neza ndetse bikoreshwa n'inzobere zabihuguriwe, kugira ngo abarwayi babashe kuvurwa bityo bagire ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abantu, barimo abamama, abapapa ndetse n'urubyiruko, baje ku nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ubona ko baje kwivuza indwara zitandukanye kugira ngo bahabwe imiti ndetse bakire bitabweho, bakomeza kugira ubuzima bwiza.

Ibitaro bya Kabutare. Hari abaganga benshi batandukanye, barimo abapapa, n'abamama ndetse n'abasore. Bakaba bambaye bose udupfukamunwa, ubona ko bahagaze ku marembo y'ibitaro.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo umurwayi muganga arimo arapima indwara zirimo muvuduko w'amaraso, indwara zirimo indwara z'imitima kugira ngo amenye neza uko uyu murwayi ahagaze.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo muganga arimo arakoresha ibikoresho byifashishwa hasuzumwa indwara ndetse n'ibizamini byafashwe, akaba ari icyumba cyiza kirimo isuku ku buryo ibihakorerwa bitabasha kwangirika bitewe n'ukuntu kimeze.

Ikigo nderabuzima cya Gisenyi, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi butandukanye, ku ndwara zitandukanye. Hari ururya n'uruza bw'abantu benshi baje kwivuza barimo abana, ababyeyi ndetse n'abagabo. ku marembo hari, umukozi uzanye indobo, bashyiramo imyanda.

Inyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku ndwaratandukanye harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'indwara ndetsefite isuku ku buryo nta kibazoshobora gutera umurwayi.

Icyumba kinini kandi kiza kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa havurwa indwara zitandukanye. Bikaba ari ibikoresho byiza bisukuye ubona ko byujuje ubuziranenge. Bikaba bikoreshwa mu buvuzi bw'abantu.

Icyumba kirimo ibikoresho byiza, birimo uburyamo n'intebe n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, indwara zo mu mutwe, izo mu maraso n'izindi ndwara bityo uzirwaye abasha kwitabwaho vuba agahabwa serivisi inoze.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, kikaba ari icyumba kirimo abaganga ndetse barimo baraganira ubona ko barimo baravura, harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa havurwa izo ndwara kandi byizewe.

Inyubako itangirwaho ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, aho umumama arimo araganirizwa na muganga, baganira ubona ko bishimanye, ku ndwara zitandukanye. Arimo aramusobanurira, anamugisha inama kugira ngo ubuvuzi bunozwe.

Inyubako itangirwaho serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abakuze, abato ndetse n'ingeri zose. Akaba ari inyubako nini ibasha kwakira abarwayi benshi kandi bakavurwa neza, ikaba yubatswe ku buryo bugezweho, mu buryo bw'inyubako zitwa ngo ni inyubako zigeretse.

Inyubako itangirwaho ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, ikaba yubakanywe isuku ndetse akaba ari inyubako nini ku buryo abarwayi benshi babasha kuza kuhivuriza, ifite aho imodoka ziparika kugira ngo abarwayi babashe kwitabwaho.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, harimo umuganga arimo arabaza umurwayi waje kwivuza uko arwaye ndetse na muganga wundi uri ku ruhande nawe arimo arasoma amakuru ku barwayi batandukanye bagenda bavurwa, mwa bino bitaro.

Inyubako itangirwaho serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, ifite inzira nziza zikoze neza ku buryo abarwayi babasha kuhatambuka neza nta kibazo kandi n'ibinyabiziga bikaba byaratambuka, ifite ubusitani bwiza butandukanye ku buryo abarwayi bahumeka umwuka mwiza kandi bakanavurwa neza.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye bahagaze ku nzu y'ababyeyi aho ababyeyi baherwa serivisi ndetse akaba ari na babyarira. Bityo urabona koramo arafata ifoto y'urwibutso ndetse bishimiye igikorwa bari barimo

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa havurwa indwara zitandukanye, harimo uburyamo umurwayi aryamaho, ndetse akavurwa n'ibindi bikoresho, harimo n'ibyifashishwa mu gihe haba habayeho inkongi y'umuriro ku bitaro, kugira ngo na we uzimwe neza.

Umukobwa uri gukora umwitozo ngororamubiri agorora amaguru, umugongo ndetse n'amaboko kugira ngo amagufa abashe gukomera ndetse amaraso atembere neza mu mubiri bityo indwara zitandukanye zibashe kwirindwa.

Umukobwa uri gukora umwitozo ngororamubiri w'amaguru, amaboko ndetse n'umugongo. Yicaye arambije amaguru kugira ngo agorore imitsi maze amaraso atembere neza mu mubiri. Bityo indwara zitandukanye zirindwe kandi akomeze kumererwa neza.

Umuntu uri mu m mwitozo ngororamubiri, w'amaguru amaboko ndetse n'umugongo. Kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kugubwa neza, yaba ari imitsi amaraso n'izindi ngingo zikore neza bityo nawe we akomeze kugenda yumva ameze neza mu mubiri.

Uburyo butandukanye umuntu yakoresha agorora umubiri, ushobora kubikora wicaye, uri gukina umupira, uri kwiruka se, cyangwa se urimo urunama ukongera ukazamuka; kugira ngo, imitsi n'amagufa, byose bigire ubuzima bwiza. Kandi n'amaraso atembera neza mu mubiri.

Abakinnyi barimo barakina umupira, bifashishije intoki, ku mashusho hagaragara umukinnyi wari ugiye gufata umupira birangira akomeretse bityo hakaba hafashwe ingamba z'uko tugomba kwirinda impanuka.

Umuntu w'igitsina gabo arimo arakora imyitozo ngororamubiri, agorora amaguru, amaboko ndetse n'umugongo kugira ngo imitsi ikomeze kumera neza n'amagufa akomere cyane kandi n'amaraso akomeza gutembera neza mu mubiri.

Ibikoresho byifashishwa hakorwa umwitozo ngororamubiri harimo inkweto bambara ndetse n'umupira bakina kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza bityo indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri harimo umubyibuho ukabije byirindwe.

Umukobwa ari mu mwitozo ngororamubiri, w'amaguru, amaboko, ndetse n'umugongo, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, bikaba byifashishwa havurwa indwara zirimo umubyibuho ukabije, ndetse n'izindi ndwara.

Umusore yicaye mu byatsi arambya amaguru kugira ngo abashe kugorora imitsi y'amaguru, y'amaboko n'umugongo, maze amaraso atembera neza mu mubiri, na we yirinde indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Muganga arimo aragorora umupapa akaguru ubona ko umupapa yavunikiye mu myitozo ngororamubiri arimo aramugorora yifashishije umuti wisigwa ndetse ukawusiga ku mvune kugira ngo uburibwe bushire.

Muganga arimo aravura umusore wavunitse ku kuguru. Ahagana hepfo ku kirenge ubona ko yavunikiye mu myitozo ngororamubiri, yari arimo aragorora amagufwa, imitsi n'izindi ngingo. Ariko arimo arahabwa serivisi nziza n'inzobere kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umusore wakoraga imyitozo ngororamubiri akaba agiriyemo ikibazo aho arimo arasohorwamo mu kibuga ajyanwa hanze kugira ngo avurwe, bityo inzobere zimwiteho kandi agire ubuzima bwiza abashe gukira wo agaruruka akine umukino.

Umuntu w'igitsina gore ari gukora imyitozo ngororamubiri, agorora amaboko, umugongo n'amaguru, kugira ngo imitsi ikore neza n'amaraso atembera neza mubiri, bityo indwara zitandukanye zirindwe, kandi hakomezwe guteza imbere ubuzima bwiza kuri we.

Inyubako itangirwamo serivise z'ubuvuzi ku muntu wese ufite ikibazo cyo kudakora imyitozo ngororamubiri bityo hakaba hari ibikoreshwamo bihagije byifashishwa mu gukora umwitozo ngororamubiri.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa harimo harakorwa umwitozo ngororamubiri, harimo umupira bakina n'amaguru, uwo bakina n'amaboko n'undi munini bakina n'amaboko. Byose bikaba byifashishwa kugira ngo hanozwe imyitozo ngororamubiri.

Umuntu uri gukora umwitozo ngororamubiri w'amaguru amaboko ndetse n'umugongo kugira ngo agire ubuzima bwiza, yifashishije ibikoresho byabugenewe birimo; inkweto zifashishwa mu myitozo ngororamubiri bityo akomeze kugira ubuzima bwiza kandi n'indwara zitandukanye zibashe kwirindwa.

Umukobwa arimo aragorora amaboko, amaguru, n'umugongo kugira ngo amaraso atembera neza mu umubiri, imitsi ayikore neza ndetse n'amagufa akomeza gukomera bityo akomeze kugira ubuzima bwiza kandi hirindwa n'indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Urubuga rwizewe rusangwaho imyitozo ngororamubiri binyuze mu kwiruka, ndetse hakaba hategurwa amarushanwa atandukanye ahuriramo n'ingeri zose, yaba abato n'abakuze muri uwo mukino wo kwiruka.

Umuntu uri kunywa amazi, ubona ko arangije umwitozo ngororamubiri, amazi akamufasha kuyungurura ndetse no gusohora indi myanda, kandi akanatuma umubiri ukora neza.

Umuntu uri gukora umwitozo ngororamubiri ndetse n'uri kumutoza kuwukora. Arimo aragorora amaboko, umugongo ndetse n'amaguru. Kugira ngo imitsi, amaraso ndetse n'izindi ngingo zikore neza. Bityo akomeze agire ubuzima bwiza.

Muganga arimo aravura umusore wavunikiye mu mwitozo ngororamubiri w'akaguru, kugira ngo yongere agire ubuzima bwiza, ari kwifashisha imiti yabugenewe ndetse n'uburyo bwiza bwizewe bwo kuvura imvune zitandukanye.

Icyapa kigaragaraho Leta y'u Rwanda ndetse n'ibitaro bya gisirikare. Ahatangirwa serivisi zitandukanye ku buvuzi cyane cyane bw'indwara ziterwa n'imyitozo ngororamubiri, zirimo imvune aho babasha kuba bagira abarwayi bakabavura ndetse bakanabasimbuza ingingo aho zangiritse bikomeye.

Umuntu w'umugabo arimo arakora umwitozo ngororamubiri w'amaboko, amavi, ndetse n'amaguru n'umugongo, kugira ngo umubiri ukore neza, amaraso atembera neza mu umubiri, amagufi arushaho gukomera, ndetse n'imitsi ikomeze ikore neza.

Imiti ikoreshwa, cyane cyane mu gihe cy'imvune. Mu gihe umuntu asoje umwitozo ngororamubiri, ikaba yifashishwa bamusiga aho yagize imvune cyangwa se igikomere, maze abashe gukira vuba, akaba ari imiti yizewe, ifunzwa neza mu buryo itakangirika kandi ikaba yujuje ubuziranenge.

Icyumba gitangirwamo ubuvuzi ku myitozongororamubiri, ndetse n'ubujyanama bw'uburyo iyo myitozo ikorwa, ku buryo ikorwa mu buryo bwiza bwizewe kandi n'ugizemo ikibazo akabasha kuvurwa neza.

Umuntu uri gukora umwitozo ngororamubiri w'amaguru, amaboko ndetse n'umugongo. Aryamye ku gikoresho cyabugenewe gikoreshwa hakorwa uwo umwitozo ngororamubiri, umuntu akora aryamye kugira ngo umubiri ukore neza.

Umukobwa arimo aragorora umubiri, agorora amaguru, amaboko ndetse n'umugongo, kugira ngo imitsi ikore neza ndetse n'amaraso atembera neza mu mubiri kandi n'amagufa abashe gukomera bityo indwara zitandukanye zirindwe.

Umuntu uri gukora umwitozo ngororamubiri, ndetse hari n'izindi mbuto ari bufate asoje uwo mwitozo ngororamubiri kugira ngo yongere imbaraga azaba yatakaje kandi umubiri ukomeze ukore neza bityo indwara zitandukanye zirindwe.

Ubwoko bw'imodoka izwi nk'imbangukiragutabara yifashishwa cyane cyane mu gihe habaye imikino kugira ngo ni hagira umuntu ugira ikibazo, yaba ari mu mukino bamwihutane kwa muganga ndetse n'iyo yaba ari umuturage waje kureba umukino akagira ikibazo ahita avurwa vuba.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri w'amaguru, amaboko, n'umugongo kugira ngo imitsi ikomeze gukora neza ndetse n'amagufa abashe kurushaho gukomera, bityo na we yirinde indwara zitandukanye zishobora guterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa hakorwa imyitozo ngororamubiri. Kugira ngo indwara zitandukanye zibashe kwirindwa ndetse umubiri w'umuntu ukomeze ukore neza. Hari ibikoresho byizewe imikorere yabyo kandi bikaba bikoranywe isuku.

Umusore uri kunywa amazi meza asukuye, yari ari mu mwitozo ngororamubiri, akaba arimo arayanywa kugira ngo amufashe kuyungurura imyanda imwe n'imwe, isohoke mu mubiri, kandi na we yumve ubuzima bwe bumeze neza, bityo yirinde n'indwara zitandukanye.

Umuntu uri gukora umwitozo ngororamubiri ,w' amaguru ndetse n' umuhondo n' amaboko. Akarba yambaye inkweto zabugenewe zifashishwa hakarwa ubwo mwitozo akaba awukora arimo yirukanka rimwe na rimwe akanasimbuka.

Muganga arimo aragorora umusore imitsi, kugira ngo amaraso atemmbe neza mu mubiri, bityo akomeze kugubwa neza ndetse yumve ko anitaweho maze abashe gukurikiranwa.

Umusore avuye mu mwitozo ngororamubiri, arimo anywa amazi kugira ngo umubiri ukomeze gukora neza, yambaye udukoresho twamufashaga kumva indirimbo kugira ngo abashe gukora imyitozo ngororamubiri neza bityo indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri zirindwe maze ubuzima bwiza bukome gusakara.

Imiti yifashishwa mu buvuzi bw'imvune cyangwa se ikoreshwa mu gihe umuntu yavunikiye mu myitozongororamubiri, ikaba irimo iyobakoresha bisiga ndetse n'indi itandukanye.

Uburyo butandukanye imyitozo ngororamubiri ikorwamo, harimo guhagarara ku kaguru kamwe mu gihe kizwi cyapimwe neza, hari ukurambura ibiganza kugira ngo imitsi n'umubiri bikomeze bikore neza.

Umusore ndetse n'umukobwa bari mu myitozo ngororamubiri, ubona ko umusore arimo araruhuka ariko umukobwa akomeje gukora imyitozo ngororamubiri, amaboko, amaguru ndetse n'umugongo, umusore arimo aranywa amazi kugira ngo umubiri ukore neza.

Umuganga uvura ndetse wita ku bakora imyitozo ngororamubiri, akaba afite bimwe mu bikoresho byifashishwa hakorwa uwo mwitozo ngororamubiri kuko imyitozo ngororamubiri na yo ibasha kugira uruhare mu buvuzi bw'indwara zifata umubiri.

Umumama uri mu mwitozo ngororamubiri w'amaguru, umugongo n'amaboko, kugira ngo agire ubuzima bwiza bityo indwara zitandukanye ziterwa no kudakora umwiyitozo ngororamubiri zirindwe, ahubwo amaraso atembera neza mu mubiri.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa havurwa indwara zitandukanye zikunze kugaragara cyanecyane nyuma y'imyitozo ngororamubiri kugira ngo uhuye n'icyo kibazo yitabweho.

Umusore uri gukora umwitozo ngororamubiri w'amaboko, umugongo n'izindi ngingo, kugira ngo umubiri ukure neza, yaba ari amaraso atembera ndetse n'imitsi imere neza, bityo agire ubuzima bwiza kandi yirinde indwara zitandukanye.

Ubwoko bw'igikoresho, kimwe mu byifashishwa hakorwa umwitozo ngororamubiri ku maboko, aho umuntu agiterura maze akagorora imitsi n'izindi ngingo, hari n'imbuto ukora umwitozo ngororamubiri afata kugira ngo zimwongere imbaraga n'amazi anywa kugira ngo ayungurure umubiri.

Ibikoresho byinshi byifashishwa hakorwa umwitozo ngororamubiri ndetse no mu buvuzi bw'indwara zitandukanye kugira ngo ubuzima bw'abantu bukomeze butezwe imbere kandi bitabweho.

Icupa ririmo amazi meza asukuye ndetse n'imbuto umuntu afata asoje umwitozo ngororamubiri, n'ibindi bikoresho byabugenewe umuntu yifashisha akora umwitozo ngororamubiri, kugira ngo agire ubuzima bwiza ndetse n'indwara zitandukanye zibashe kwirindwa.

Umusore urimo arakora imyitozo ngororamubiri, w'amaboko, kugira ngo imitsi ikure neza, ndetse amaraso atembere neza mu mubiri. Bityo akomeze kugira ubuzima bwiza. Kandi n'indwara zitandukanye zindi, zishobora guterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri zirindwe.

Imbaga y'abantu nyamwinshi batandukanye b'ingeri zose, barimo barareba umukino w'abana batoya b'urubyiruko, barimo barakina bakinisha amaboko kugira ngo umubiri ukore neza, maze imitsi n'izindi ngingo zibashe gukora neza.

Umusore arimo aranywa amazi meza asukuye, ari mu icupa, ubona ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri, amazi akaba aribuze kumufasha kuyungurura imyandaro mu mubiri, ndetse no gutuma umubiri ukora neza, bityo yirinde n'indwara zitandukanye.

Umuntu uri kunywa amazi ari mu icupa ryiza ndetse akaba afite akandi gakoresho ku rutugu yifashisha arimo ahanagura icyuya ku mubiri, bityo umubiri we ukomeze ukore neza kandi harindwe indwara zitandukanye.

Muganga arimo aragorora umurwayi ingingo zirimo akaboko n'akaguru, cyanecyane ndabona ko afashe akaguru arimo aramugorora kugira ngo agire ubuzima bwiza, kandi na we akire bityo amaraso atembera neza mu mubiri.

Umusore uri mu mwitozo ngororamubiri w'amaboko, umugongo ndetse n'amaguru, kugira ngo imitsi, amaraso byose bikore neza, maze akomeze kugira ubuzima bwiza kandi n'indwara zitandukanye zirindwe.

Umusore uri gukora umwitozo ngororamubiri, akaba arimo aranywa amazi meza asukuye kugira ngo amufashe kuyungurura imyanda ndetse n'umubiri ukomeza gukora neza, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Intebe ikoreshwa kugira ngo hagororwe ingingo by'umwihariko ku muntu ubana n'ubumuga, kugira ngo na we abashe kwitabwaho bityo agire ubuzima bwiza kandi abashe no gukira yitaweho neza.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, arimo aragorora ingingo z'umubiri, yaba ari amaboko, amaguru ndetse n'umugongo, afite icupa ry'amazi, arimo arisuka amazi mu mutwe, ubonanako yari afite ubushyuhe bwinshi, kugira ngo umubiri ubashe gukonja.

Umuntu w'igitsina gore arimo akora imyitozo ngororamubiri aricaye neza arimo aragorora amaguru, umugongo, amaboko, agatuza kugira ngo imitsi ikore neza n'amagufa arushaho gukomera. Ari kwifashisha ibikoresho byabugenewe ndetse afite n'icupa ry'amazi riribuze kumufasha mu kuyungurura imyanda umubiri.

Umuntu arimo aragororwa ukuguru ndetse n'izindi ngingo, binyuze mu myitozo ngororamubiri arimo arakoreshwa na muganga ubizobereye kugira ngo akire, aho barimo baramugorora mu gice cy'ivi.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa hakorwa umwitozo ngororamubiri ndetse hanavurwa indwara zitandukanye, zishobora kuboneka mu mwitozo ngororamubiri, harimo imvune zitateganyijwe.

Umukobwa arimo aranywa amazi, amazi meza ubona ko asoje umwitozo ngorora mubiri kugira ngo umubiri umere neza kandi n'amaraso abashe gutembera neza mu mubiri bityo indwara zitandukanye zibashe kwirindwa.

Abantu benshi barimo: abagabo, abamama n'abasore n'abakobwa, bari gukora imyitozo ngororamubiri, barimo barabifashwamo n'uwabihuguriwe ubizi, aho barimo barakurikiza ibyo avuze, kugira ngo umubiri ukomeze ukore neza.

Abantu bane bari mu umwitozo ngororamubiri, aho bari kwiruka ku ntambwe ntoya, kugira ngo imitsi ikore neza n'umubiri ukore neza, bityo iyaba ari amagufa n'izindi ngingo zirushaho gukomera.

Umuntu wagiriye ikibazo mu myitozo ngororamubiri, akaba arimo aritabwaho ahabwa ubuvuzi bw'ibanze n'abandi basore bari bahari kugira ngo abashe kugeza kwa muganga yitabweho by'umwihariko.

Umuntu wavunikiye mu myitozo ngororamubiri, akaba arimo aravurwa n'umuganga wabizobereye kugira ngo abashe gukira vuba, yavunitse akaguru ariko ari kwa muganga ari kwitabwaho kugira ngo yongere amere neza.

Umusore uri gukora umwitozo ngororamubiri w'amaguru, uw'amaboko ndetse n'ugongo, kugira ngo ingingo ze zikore neza nawe akomeza kugira ubuzima bwiza. Ari kumwe n'umu mama urimo uramufasha kuwukora amwerekera ndetse anamusobanurira byinshi byerekeye no gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore uri mu umwitozo ngororamubiri, afite icupa ryiza ririmo amazi asukuye ndetse arimo aranywa kugira ngo umubiri ukomeze gukora neza kandi akomeze kugira ubuzima bwiza bityo indwara zitandukanye ziterwa no kudakora umwitozo ngororamubiri abashe kuzirinda maze agire ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'imbuto umuntu afata mu gihe agiye gukora cyangwa se asoje imyitozo ngororamubiri, by'umwihariko hakaba harimo imbuto zongera abasirikare b'umubiri ndetse n'izitera umuntu imbaraga. Harimo amatunda, imineke n'izindi mbuto.

Umuntu urimo arivura akaboko, bigaragara ko yavunikiye mu myitozo ngororamubiri, akaba arimo arakoresha umuti wabugenewe, aho yawushize aho yakomeretse, maze abashe kwivura kandi akire, bityo indwara ye ivurwe neza kandi akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa uri gukora umwitozo ngororamubiri w'amaboko, amaguru ndetse n'umugongo kugira ngo imitsi ikore neza n'izindi ngingo zikore neza maze n'amaraso abashe gutembera neza.

Imiti yifashishwa hakorwa umwitozo ngororamubiri, hakaba harimo iyongerera umuntu imbaraga kugira ngo atananirwa vuba, ndetse hakaba harimo n'indi yifashishwa mu gihe umuntu yaba agize ikibazo ari gukora iyo myitozo ngororamubiri.

Umuntu urimo arakora umwitozo ngororamubiri, w'intoki. Arimo aragorora ibiganza kugira ngo imitsi imere neza ndetse n'amaraso atembera neza mu mubiri. Bityo indwara zitandukanye zirindwe cyane cyane iziterwa no kudakora umwitozo ngororamubiri.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'indwara, cyane cyane indwara zerekeye n'imyitozo ngororamubiri, aho umuntu aza agakora umwitozo ngororamubiri, maze ingingo ze zikamera neza bityo akirinda uburwayi.

Ubwoko bw'igikoresho cyifashishwa bavura cyane cyane imvune umuntu agirira mu myitozo ngororamubiri, yaba arimo arakina umupira cyangwa se ahuye n'ikindi kibazo gitunguranye, akaba ari igikoresho bamuzirikaho gikoranye n'umuti kandi cyizewe.

Igikoresho cyifashishwa mu myitozo ngororamubiri. Kigaragaza igihe aho ukora umwitozo abasha kugena igihe awukoraho kugira ngo adakora umwitozo urengeje ubushobozi bw'imbaraga umubiri we ufite.

Umuntu arimo arivura igikomere afite ku ivi, ubona ko yavunikiye mu imyitozo ngororamubiri akaba arimo akoresha ibikoresho byabugenewe byifashishwa havurwa indwara zirimo ibikomere; ndetse n'imiti yifashishwa hagabanywa uburibwe.

Umukobwa arimo aragorora amaguru, umugongo, n'amaboko kugira ngo amaraso atembere neza, amagufa akomere, ndetse n'imitsi ikomeze kumererwa neza. Bityo akomeze kugira ubuzima bwiza n'umubiri we ukore neza, indwara zitandukanye zikomeze kwirindwa.

Icyumba kiri gutangirwamo ubuvuzi ku murwayi wavunikiye mu mwitozo ngororamubiri, akavunika amaguru yombi, muganga arimo arifashisha ibikoresho byabugenewe, birimo ibikuramo amavuta, babisiga ku mvune ndetse n'ibyo bamuzirikaho.

Igikoresho cyifashishwa cyane cyane mu mikino nk'iyo umukinnyi avunitse giterurwa n'abantu babiri umwe agafata inyuma undi agafata imbere, maze uwavunitse bakamuryamishaho kugira ngo ajye kuvurirwa hanze y'ikibuga bityo akire.

Muganga arimo aravura umurwayi wavunikiye mu myitozo ngororamubiri akavunika ivi, arimo aramuvura yifashishije ubuhanga n'ubunararibonye afite mu kuvura imvune.

Inyubako irajya itangirwaho serivisi z'ubuvuzi bw'umwihariko ku bantu bagiriye ikibazo mu myitozo ngororamubiri, hagaragaraho abantu batatu barimo barakora neza ibikoresho kugira ngo bizifashishwe mu buvuzi.

Icyapa kigaragaza inyubako itanga imiti, ku bantu bavunikiye mu myitozo ngororamubiri, ndetse n'abagiye gukora imyitozo ngororamubiri, hari iyo bafata kugira ngo babashe kugira imbaraga, ndetse bakore neza, ndetse hari n'iyo bahabwa mu gihe bagize ikibazo.

Umusore usoje imyitozo ngororamubiri arimo aranywa amazi kugira ngo amufashe kuyungurura imyanda, maze nawe agire ubuzima bwiza, bityo imitsi n'amagufa bikomere kandi bikore neza.

Ubwoko bw'igikoresho kifashishwa hakorwa imyitozo ngoramubiri, ndetse n'imbuto umuntu arya zimwongerera imbaraga kugira ngo akore umwitozo ngororamubiri neza, bityo abashe kugira ubuzima bwiza.

Igikoresho cyifashishwa hakorwa ubuvuzi ndetse bw'umwitozo ngororamubiri, akaba ari igikoresho cyizewe, ku buryo ugikoresha abasha kugorora imitsi neza, n'umubiri we ukagubwa neza, bityo akirinda indwara zitandukanye.

Umuntu w'igitsina gabo arimo aragorora ingingo ze, arimo aragorora amaboko, kugirango imitsi ibashe kumera neza, ndetse na amagufa arushaho gukomera, nawe ubwe yirinda indwara zitandukanye, ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa uri kwa muganga ubona yari agize ikibazo cyo mu ivi, yavunikiye mu mwitozo ngororamubiri akaba apfutswe neza aho yakomeretse kugira ngo abashe gukira vuba maze yitabweho kandi akomeze kugira ubuzima bwiza.

Muganga arimo akoresha umu papa uri mu zabukuru umyitozo hifashishijwe ibikoresho byabugenewe, aho afite umugozi mu ntoki arimo arakurura kugirango agorore amaguru ndetse umugongo cyane cyane amaboko. Maze umubiri ukomeza gukora neza bityo hirindwe indwara zitandukanye.

Igikoresho cyifashishwa havurwa imvune cyane cyane zabaye mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri aho bakizirika aho umuntu yavunitse kugira ngo akire vuba, kikaba gikoranye umuti kandi kivura neza.

Umukobwa uri gukora umwitozo ngororamubiri, arimo aragorora amaguru, umugongo n'amaboko, akaba yambaye ibikoresho byifashishwa hakorwa umwitozo birimo inkweto n'imyenda myiza yifashishwa.

Igikoresho cyifashishwa mu buvuzi cyane cyane bw'indwara ziterwa cyangwa zikunze kubonekera mu myitozo ngororamubiri, harimo indwara z'imvune, yaba ari imvune z'amavi n'amagufa n'izindi kugira ngo zitabweho na zo zivurwe kandi neza.

Umukobwa arimo aragorora ukuboko ndetse n'umugongo kugira ngo izo ngingo zombi zikore neza, aho arimo arafata ukuboko akakunyuza inyuma akagukoza ku mugongo, maze imitsi ikabasha kurambuka ndetse n'amagufa akarushaho gukomera.

Umuntu urimo arivura imvune iri ku kaboko, yifashishije umuti wabugenewe mu kuvura izo mvune. Akaba yarambuye akaboko ndetse agafata uwo muti akawushira aho yavunitse yifashishije akandi kaboko. Kugira ngo akire neza.

Imbaga y'abantu nyamwinshi irimo urubyiruko rw'abakobwa n'abasore bari gukora umwitozo ngororamubiri rusange kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bari mukibuga aho barimo baragorora amaguru, amaboko ndetse n'izindi ngingo basimbuka kandi bakomeza kugira ubuzima bwiza.

Umuntu arimo arasuka amazi mu gikombe cyiza ndetse anifashishije igikoresho cyabugenewe kirimo amazi meza, ubona ko yari asohoje umwitozo ngororamubiri, akaba agiye kuyanywa kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza ndetse n'indwara zitandukanye zibashe kwirindwa.

Umusore uvuye mu mwitozo ngororamubiri, arimo anywa amazi kugira ngo abashe kuyungurura imyanda itandukanye ndetse n'umubiri ukomeze gukora neza, afite n'akandi gakoresho ku rutugu akoresha yihanagura icyuya.

Ibiganza byambaye uturindantoki mu gihe umuntu arimo gukora umwitozo ngorora mubiri, kugira ngo imvune za hato na hato zirindwe ahubwo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza kandi akore n'umwitozo ngorora mubiri neza.

Umukobwa ari mu myitozo ngororamubiri agorora amaguru, agorora umugongo ndetse n'amaboko kugira ngo agire ubuzima bwiza, bityo abashe gukora n'ibindi kuko n'umubiri uzaba ari muzima kandi ukora neza.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri amaguru, amaboko ndetse n'umugongo. Kugira umubiri ukore neza ndetse na we ubwe yumve ko ameze neza, bityo indwara zitandukanye zirindwe kandi akomeze kugira ubuzima bwiza.

Amazi meza arimo arasukwa mu gikombe cyiza kugira ngo anyobwe. Hakaba hari amazi yifashishwa mu kuyungurura imyanda mu mubiri ku yanyweye ndetse umubiri ugakora neza. Bityo ukabasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira indwara.

Inkweto yizewe kandi yabugenewe yifashishwa hakorwa umwitozo ngororamubiri, akaba ari inkweto ikomeye ku buryo nta bintu byapfa kwinjiramo binyuze munsi kugira ngo bikomeretse uyambaye, bityo ikaba ifasha kugira ngo umuntu aruhure umubiri neza.

Imiti yifashishwa harimo haravurwa abantu baba bangirikiye mu myitozo ngororamubiri. Ikaba ari imiti igabanya uburibwe, ku buryo uyinyweye ashobora gukurikiranwaho mu gihe kiri inyuma, yamaze gufashwa n'iyo miti.

Ubwoko bw'ibikoresho byifashishwa havurwa ibikomere, birimo imiti bazirika ku bisebe ndetse n'indi wakoresha hari gupfuka imvune kugira ngo uwahuye n'ikibazo yitabweho kandi agire ubuzima bwiza, bityo ubuvuzi bukomeze gutezwa imbere.

Umuntu arimo arakora imyitozo ngororamubiri uw'amaguru uw'amaboko ndetse yifashishije no mu bikoresho byabugenewe byifashishwa ngo imyitozo ngororamubiri ikorwe, ari kumwe n'abari kumutoza gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ukorwe neza bityo hirindwe imvune zitunguranye.

Amoko menshi atandukanye y'imiti, itunganyijwe mu bimera. Ikaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, imwe bakaba bayisiga ndetse indi bakayinywa. Ikaba ari imiti yizewe kandi ikora neza ivura indwara

Imiti ikozwe mu gikakarubamba, akaba ari icyatsi cyifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane indwara zo munda n'indwara z'uruhu, kikaba kivura neza, aho igisoromwa kigatunganywamo umuti mwiza kandi wuzuye ukoreshwa kwa muganga.

Ibyatsi bikorwamo umuti wifashishwa havurwa indwara zitandukanye, yaba ari indwara zifata abana n'izifata abakuzekaba, akaba ari indwara zirimo indwara z'uruhu, indwara zo munda kugira ngo abazirwaye bitabweho neza.

Ubwoko bwinshi butandukanye bw'imiti nk'amavuta n'indi miti, ikaba ikozwe mu gikakarubamba, imiravumba n'ibindi byatsi. Ikaba ari imiti ivura neza kandi yizewe ikaba ikozwe mu bimera ikaba izwi nk'imiti gakondo, ikaba ikora kugirango ngo bateze imbere ubuvuzi.

Amoko cumi n'abiri y'ibyatsi harimo umuravumba, igikakarubamba, n'ibindi byatsi byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye zifata umubiri, yaba ari indwara zo mu nda n'indwara z'uruhu, kandi bikaba bivura neza ku buryo bibasha gukiza umurwayi.

Ibyatsi bikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara zo mu nda n'indwara z'uruhu, kwa muganga. Bikaba ari ibyatsi bivura neza kandi byizewe, ubuvuzi bwabyo bukaba bukora neza, kandi bigatuma ku buryo nta ngaruka bigira ku mubiri w'umuntu. Kugira ngo hanozwe imivurire myiza.

Umuti utunganyijwe mu mbuto, ibyatsi ndetse n'ubuki ukaba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye kugira ngo abazirwaye bitabweho bavurwe neza kandi bakire.

Izina ry'umuti utunganyijwe mu bimera birimo ibyatsi, ukaba ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, indwara zo mu nda n'indwara z'uruhu; ukaba wizewe ku buryo umurwayi uwo ari we wese yawukoresha, kugira ngo akire vuba kandi agire n'ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'umuti ukozwe mu gikakarubambaba, ikaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo n'indwara z'amenyo, indwara z'uruhu n'izindi ndwara zo mu nda, bityo abazirwaye bakabasha kuvurwa neza n'uyu muti kandi bagakira.

Amoko y'ibyatsi byifashishwa mu gutunganya ibiti ndetse n'imiti ikorwamo ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba indwara z'uruhu n'indwara zo mu nda, ikaba yizizewe kandi yujuje ubuziranenge ndetse ikaba itunganyije mu buryo itagira izindi ngaruka.

Umuti gakondo ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, ukaba utunganywa mu byatsi ndetse n'imbuto z'umwimerere. Ukaba wizeye kandi wujuje ubuziranenge, ufunze neza ku buryo utakangirika kandi ukaba ufite igihe kizwi ugomba gukoreshwaho.

Umuti utunganyijwe mu bimera gakondo, ukaba ufite uburemere upima buzwi ndetse akaba ari umuti ufite izina rizwi, ukaba wizewe kandi wujuje ubuziranenge, ku buryo nta ngaruka watera uwawunyweye.

Umuti ukozwe mu bimera, ukaba ari umuti uvura neza indwara zigakira, ukaba utuganywa ku buryo wizeye ubuvuzi bwawo ndetse n'abawukoresha bakabanza bagasobanurirwa.

Umuti utunganyijwe mu byatsi ukaba ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata umuntu ukaba wizewe kandi utunganyijwe ku buryo utabasha kugira ingaruka utera ku mubiri.

Amazina y'imiti itandukanye ikorwa mu byatsi ndetse n'imbuto z'umwimerere, ikaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, hari ubuvuzi bw'indwara z'uruhu n'indwara zo mu nda kugira ngo abazirwaye babashe gukira.

Imiti myinshi itandukanye ifunze neza mu buryo bwiza kandi bwizewe, akaba ari imiti ikozwe mu bimera birimo ibyatsi harimo: nk'igikakarubamba, umurarumba n'ibindi byatsi, ikaba yifashwa mu buvuzi.

Amoko menshi y'ibyatsi agiye atandukanye, akaba akorwamo imiti izwi nk'imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi bw'indwara, yaba ari indwara z'uruhuri, izo munda n'izindi ndwara, bityo kugira ngo uyirwaye abasha kwitabwaho neza.

Ubwoko bw'umuti hari n'ibyatsi n'ibiti ariko bikoreshwa kuvura indwara zitandukanye, zirimo indwara zo mu nda n'indwara z'uruhu, ikaba ari imiti yizewe izwi nk'imiti gakondo ivura neza kandi indwara zigakira.

Amacupa ane, arimo amoko y'imiti itandukanye, yose ikaba ikozwe mu bimera, iyo miti ikaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye kwa muganga, ikaba ari imiti yizewe kandi ivura neza.

Ubwoko bw'umuti utunganyijwe mu bimera, ukaba wifashishwa mu buzima butandukanye ndetse ukanakoreshwa mu koza amenyo, kuyasukura ndetse no gukuramo imyanda. Ukaba ari umuti wizewe kandi ukora neza.

Ubwoko bw'umuti ukozwe mu ruvange rw'ibyatsi harimo igikakarubamba ndetse n'imbuto, ukaba uri mu ishashi ifite amagarama ijana, akaba ari umuti uvura neza, wifashishwa kwa muganga havurwa indwara.

Icyatsi cyifashishwa mu buvuzi bw'indwara gakondo. Kikaba kizwi nk'umuravumba. Kikaba gikoreshwa hatunganya imiti itandukanye, ikoreshwa havurwa indwara, yaba ari indwara zo mu muhogo n'izindi ndwara z'uruhu.

Amacupa atandukanye agiye arimo amoko menshi y'imiti itandukanye itunganywa mu bimera gakondo, iyo miti ikaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye kwa muganga yaba ari indwara zo mu nda n'indwara zo mu mihogo.

Imiti myinshi ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara, ikaba izwi nk'imiti gakondo, harimo tangawizi n'indi miti itandukanye, bikaba bitunganywamo neza umuti ukoreshwa wizewe kandi uvura.

Amacupa ariho ubwoko bw'umuti ukozwe mu byatsi bizwi nk'ibikakarubamba, bikaba bitunganywamo umuti mwiza wizewe uvura yaba ari indwara zo mu nda n'izindi ndwara, uwo muti ukaba wifashishwa kwa muganga n'ahandi.

Ibyatsi bikorwamo umuti wifashishwa havurwa indwara zitandukanye. Ukaba utunganywa neza ku buryo utagira ingaruka k'uwunyweye. Kandi ukaba wizewe ukaba ukoreshwa mu buvuzi ari ubw'abana bato ndetse n'abakuze.

Ubwoko bw'ibyatsi byifashishwa hakorwa umuti ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara kwa muganga. Akaba ari umuti uba wizewe ibyo byatsi bikaba bitunganywa neza hifashijwe ibikoresho byabugenewe kugira ngo bibashe kwifashishwa neza mu buvuzi.

Umuti ukozwe mu bimera, ukaba ugaragaraho hepfo ko utemewe, ushobora kuba ubuvuzi bwawo butizewe ariko ukaba utunganyijwe mu byatsi, ukaba ari umuti ukoreshwa mu buvuzi.

Amoko y'ibyatsi bitandukanye, harimo igikakarubamba ndetse n'ibikoresho byifashishwa, harimo haratunganywa umuti ukozwe muri ibyo byatsi kugira ngo wifashishwe havurwa indwara zitandukanye bityo ubuvuzi bukomeze kunozwa neza.

Amoko menshi y'ubwoko bw'ibimera byifashishwa mu buvuzi arimo igikakarubamba ndetse n'ubundi bwoko bikaba bisomwa bigatunganywamo umuti ukora neza kandi uvura indwara zitandukanye, yaba ari indwara zo mu nda, indwara z'uruhu n'izindi ndwara maze abazirwaye bakitabwaho neza bityo ubuvuzi bugakomeza kunozwa.

Ubwoko bw'imiti ikozwe mu byatsi birimo igikakarubamba, akaba ari imiti ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, aho umuntu ayisiga ndetse imwe n'imwe bakayinywa maze umuntu akabasha kugira ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'ibyatsi bivura bikozwemo umuti, akaba ari umuti wizewe kandi uvura neza, uwo muti ukaba ukoreshwa havurwa indwara zitandukanye zifata abaturage, kugira ngo hakomeze kunozwa ubuvuzi maze imibereho myiza itezwe imbere.

Ubwoko bw'imiti itandukanye ikozwe mu gikakarubamba, akaba ari imiti ivura kandi ikora neza, ivura indwara zitandukanye harimo indwara zo mu nda n'indwara z'uruhu, kandi ikaba yizewe imikoreshereze yayo ikaba ari imiti itunganywa neza ku buryo itagira ingaruka mbi.

Ibyatsi byinshi bitandukanye ndetse n'imiti itandukanye yatunganyijwe muri ibyo byatsi, n'ibikoresho byabugenewe byifashishwa barimo baratunganya iyo miti, ikaba ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara zo mu nda n'indwara zindi zibasira umuntu.

Ubwoko bw'imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, akaba ari imiti ikozwe mu byatsi birimo imiravumba, ibikakarubamba ndetse n'ubundi bwoko bw'ibyatsi. Hariho n'imbuto zirimo inanasi umuntu afata mu gihe asoje umwitozo ngororamubiri kugira ngo yongere imbaraga.

Ubwoko bw'imiti itandukanye, akaba ari imiti ubona ko iri ahantu icururizwa, harimo imbuto n'andi moko atandukanye, ku buryo abantu baza bakayibura ikabavura indwara zitandukanye kandi ikaba ivura neza yizewe, akaba ari imiti yujuje ubuziranenge.

Ubwoko bw'ibyatsi byifashishwa hatunganywa umuti ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara, yaba ari indwara zifata abana batoya n'izifata abakuze ukaba ari umuti wizewe kandi uvura neza.

Imiti myinshi itandukanye yifashishwa mu buvuzi bw'indwara, ikaba ikozwe mu bimera birimo ibyatsi ndetse n'imbuto, ikaba yifashishwa kwa muganga kugira ngo havurwe abarwayi neza.

Ubwoko bw'ibyatsi byifashishwa mu buvuzi bw'indwara, aho ibyo byatsi bisoromwa bigatunganywamo umuti wizewe kandi uvura neza, ku ndwara zitandukanye, kugira ngo ubuvuzi bukomeze gutezwa imbere.

Ubwoko bw'ibyatsi butandukanye, burimo ibitobotobo n'ibindi byatsi, bikorwamo umuti uvura indwara zitandukanye, yaba ari indwara zo mu nda n'izindi ndwara, akaba ari umuti wizewe kandi uvura neza izo ndwara kandi ukaba wifashishwa no kwa muganga.

Umuti utunganyijwe mu cyatsi cyitwa umuravumba, ukaba ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba indwara zo mu mihogo n'izindi ndwara, ukaba wizewe ku buryo ubasha kuvura indwara neza kandi zigakira, bityo uzirwaye akagira ubuzima bwiza.

Imiti itandukanye, ibitse neza, ikaba ari imiti, ikozwe mu bimera, birimo ibyatsi, ndetse n'imbuto, ikaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi zigiye zitandukanye, kugira ngo abazirwaye babashe kwitabwaho.

Amoko atandatu y'imiti itandukanye ifunitse neza mu macupa, akaba ari imiti ikozwe mu bimera birimo: ibyatsi nk'umuravumba na tangawizi, ndetse n'igikakarubamba, iyi miti ikaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye kwa muganga, kugira ngo abaryayi bakomeze guhabwa serivisi nziza.

Ubwoko bw'umuti utunganyijwe mu buki, akaba ari umuti uvura kandi wizewe, aho ubuki butunganywa neza bugafungwa mu icupa ryabugenewe kugira ngo bwifashishwe mu buvuzi.

Amacupa menshi arimo imiti yatunganyijwe kugira ngo ikoreshwe havurwa indwara zitandukanye. Akaba ari imiti ikozwe mu bimera. Akaba ari imiti ivura neza kandi yizewe, ikaba ikoreshwa havurwa abarwayi. Ikaba ibitswe ahantu hasukuye kugira ngo itangirika.

Amacupa ane arimo ubwoko bw'umuti utandukanye ukozwe mu bimera, harimo ikozwe mu gikakarubamba ndetse n'ibindi byatsi, hakaba harimo n'undi muti umwe ukozwe mu buki, yose akaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye kwa muganga, ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubw'abakuze, ndetse n'abakuze cyane, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Amoko y'ibyatsi atandukanye, harimo igikakarubamba ndetse n'ibindi byatsi, byose bikaba bitunganywamo umuti ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara zo mu nda, indwara z'uruhu, n'izindi ndwara; kugira ngo uzirwaye wese avurwe kandi akire.

Ibyatsi byifashishwa hatunganywa umuti uzwi nk'umuti gakondo, ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye. Yaba ari indwara zo mu nda n'indwara zo mu ruhu. Akaba ari umuti utunganywa wizewe ku buryo ubuvuzi bwawo bukoreshwa kwa muganga.

Tangawizi yifashishwa hatunganwa imiti itandukanye ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye cyane cyane indwara zo mu mihogo n'izindi ndwara kugira ngo uzirwaye yitabweho kandi akire vuba.

Umuti utunganyijwe mu byatsi ibimera ndetse n'imbuto ukaba ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye yaba ari indwara zo mu nda n'izindi ndwara ukaba wizewe ku buryo uwukoresha ntazindi ngaruka umugiraho.

Umuti ukozwe mu bimera birimo ibyatsi ndetse n'imbuto ukaba ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara. Ufunze neza mu gikoresho cyabugenewe ku buryo utakangirika ahubwo umeze neza.

Amoko atandukanye y'imiti, akozwe mu byatsi birimo igikarubamba n'umuravumba, akaba ari imiti yifashishwa mu buvuzi butandukanye harimo amavuta, isabune byose bikozwe mu mbuto.

Ubwoko bw'umuti utunganyijwe mu bimera gakondo ukaba wifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye ukaba arumuti ukorwa mu byatsi ugatunganywa neza hifashishijwe ibikoresho byabugenewe maze bakawusya ukabasha kwifashishwa mu kuvura.

Amoko menshi y'ibyatsi bitandukanye byose bitunganywamo imiti izwi nk'imiti gakondo ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye. Hariho n'amazina yayo ndetse n'uburyo akoreshwa kwa muganga. Akaba ari imiti iba yizewe ubuvuzi bwayo.

Ibyatsi byifashishwa hatunganywa imiti itandukanye, ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara zifata abana batoya, indwara zifata abantu bakuru ndetse n'abakuze cyane, kugira ngo zibashe kuvurwa.

Amacupa menshi agiye atandukanye mu ngano harimo imiti itandukanye ikozwe mu bimera birimo ibyatsi n'imbuto, ikaba yifashishwa havurwa indwara zitandukanye zataka umubiri, harimo indwara z'uruhu n'indwara zo mu nda.

Amoko ane y'ibyatsi agaragara ku mafoto atandukanye, yifashishwa mu gukora imiti ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara zifata abatoya n'indwara zifata abakuze.

Umuti utunganyijwe mu buki, ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye. Yaba ari indwara zo mu mihogo n'izindi ndwara. Akaba ari umuti wizewe kandi uvura neza, ku buryo wifashwa kwa muganga, indwara zigakira.

Amacupa menshi arimo ubwoko bw'imiti itandukanye, ariko yose ikaba itunganyijwe mu bimera, birimo ibyatsi nk'igikakarubamba n'umuravumba n'izindi mbuto z'umwimerere gakondo, bikaba byifashishwa byose havurwa indwara zitandukanye.

Umuti ukozwe mu gikakarubamba wifashishwa kugira ngo hanozwe ubuvuzi ndetse n'indwara zivurwe. Ukaba ari umuti utunganywa neza mu bikoresho byabugenewe maze ugafungwa neza ugakoreshwa mu buvuzi bw'indwara.

Imiti myinshi itandukanye ibitse neza mu buryo itakangirika, ikaba itunganywa mu bimera birimo ibyatsi ndetse n'imbuto, ikaba ari imiti yizewe ibikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye.

Umuti ukozwe mu gikakarubamba, wifashishwa havurwa indwara zitandukanye, yaba ari indwara zo mu nda ndetse no mu buvuzi bw'amenyo. Akaba ari umuti wizewe kandi ukoranye ubuziranenge ku buryo umurwayi yawukoresha agakira.

Umuntu arimo aratunganya umuti yifashishije ibyatsi, tangawizi n'ibindi bimera kugira ngo umuti ukoreshwe mu buvuzi bw'indwara maze abazirwaye bakire.

Ubwoko bw'ibyatsi byasoromwe byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, aho bitunganywa neza bigakorwamo umuti uvura neza kandi wizewe, bityo abarwayi bakabasha kubikoresha bivura.

Umuti utunganyijwe mu byatsi, ukaba wifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, ukaba ufunze neza ku buryo utakangirika ndetse ukaba wizewe ku buryo uburwayi bubasha kuvurwa neza.

Umuti utunganyijwe mu bimera ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, ndetse ukaba wizewe ku buryo uwunyweye abasha gukira neza kandi vuba.

Amoko y'ibyatsi atandukanye yifashishwa mu buvuzi, aho asoromwa agatunganywamo umuti, ukora havurwa indwara zitandukanye kwa muganga. Uwo muti ukaba wizewe kandi utunganywa ku buryo uvura neza.

Umuti utunganyijwe mu bimera birimo ibyatsi, ukaba ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara zifata abana bato, abakuze ndetse n'abakuze cyane kugira ngo babashe kuvurwa bakire.

Amoko atandatu y'ibyatsi. Ndetse hirya hari amazina y'imiti ikorwamo. Yanditswe mu ndimi z'amahanga. Akaba ari imiti yifashishwa mu buvuzi. Kwa muganga havurwa abarwayi ku ndwara zitandukanye. Yaba ari indwara zo mu nda n'izindi ndwara.

Ubwoko bw'ibinini byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, bikaba bikozwe mu mbuto ndetse n'ibyatsi gakondo, akaba ari binini byize kandi byujuje ubuziranenge, bikaba bivura neza ku buryo umurwayi abikoresha agakira.

Umuravumba, ubwoko bw'icyatsi cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, cyane cyane indwara zo mu mihogo, aho iki cyatsi gitunganywamo umuti wizewe mu kuvura kandi uvura neza.

Ubwoko bw'ibyatsi byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo indwara zo mu nda, iz'uruhu n'izindi ndwara. Aho ibi byatsi bisoromwa bigatunganywa neza mu buryo bwizewe bigakoreshwa kwa muganga no mu baturage aho.

Ubwoko bw'ibyatsi, imbuto ndetse n'ibiti bikorwamo umuti uvura neza, akaba ari umuti gakondo ukoreshwa kwa muganga ndetse no mu baturage havurwa indwara zitandukanye kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Amacupa menshi, harimo imiti myinshi, itunganyijwe mu bimera, birimo ibyatsi ndetse akaba ari imiti igiye yanditseho amazina yayo, n'igihe yatunganyirijwe n'uburyo ikoramo. Ikaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye.

Icupa ririmo umuti ukozwe mu bimera birimo igikakarubamba n'ibindi byatsi, ukaba ari umuti wizewe kandi uvura ku ndwara zitandukanye kugira ngo ubuvuzi bukomeze gutezwa imbere bityo abarwayi bitabweho.

Amoko menshi y'ibyatsi bigiye bitandukanye ndetse n'amazina yabyo. Byose bikaba byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, ndetse bikaba bitunganywa ku buryo umuti uvamo uba wizewe.

Amacupa atandukanye arimo imiti yose ikaba ikozwe mu bimera birimo ibyatsi n'imbuto, harimo nk'igikakarubamba n'indi ikozwe mu miravumba. Ikaba ari imiti ivura neza kandi yizewe, ikoreshwa harwanywa indwara zitandukanye zifata umubiri.

Icupa ririmo umuti watunganyijwe mu byatsi bizwi nk'umuravumba, ukaba ukoreshwa havurwa indwara zitandukanye, harimo indwara zo mu muhogo n'izindi ndwara, ukaba wizewe kandi wujuje ubuziranenge.

Ibinini yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye bikaba bikozwe mu byatsi n'imbuto z'umwimerere, bikaba bitunganywa ku buryo byizewe kandi byujuje ubuziranenge.

Ubwoko bw'ibyatsi byifashishwa hakorwa umuti uvura neza kandi wizewe ukoreshwa kwa muganga ndetse no mu baturage havurwa indwara zitandukanye. Bikaba bisoromwa, bigatunganywa, ku buryo ubuvuzi bwabyo bwizewe kandi bukora neza.

Umuti ukozwe mu gikakarubamba uvura indwara zitandukanye, yaba indwara zo mu nda n'indwara z'uruhu, akaba ari umuti usoromwa, ugatunganywa neza kandi ubuvuzi bwawo bukaba bwizewe, bukoreshwa no kwa muganga.

Amacupa arimo imiti yatunganyijwe mu bimera akaba ari amoko menshi y'imiti, hari ayakozwe mu gikakarubamba ndetse n'ibindi byatsi. Yose akaba yifashishwa havurwa indwara zitandukanye kugira ngo ubuzima bwiza busakare.

Amacupa arimo amoko atandukanye y'imiti, ikozwe mu byatsi birimo tangawizi, igikakarubamba n'umuravumba, ikaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, kugira ngo abazirwaye bavurwe kandi bakomeze kwitabwaho neza.

Ingemwe ntoya z'igiti kizwi nk'umuravumba, akaba ari icyatsi kifashwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, kikaba kiri mu ifumbiro, aho kigiye guhabwa abaturage kugira ngo babitere maze mu gihe bikene ngo hakorwe umuti ubashe kuboneka ku bwinshi, bityo indwara zivurwe ku bwinshi.

Amoko y'imiti myinshi itandukanye ikozwe mu bimera bituruka mu buhinzi, harimo igikakarubamba n'ibindi bimera ikaba ikorwamo umuti mwiza wizewe kandi wifashishwa mu buvuzi bw'indwara.

Icyatsi gitunganywamo umuti, uzwiho' umuti gakondo, ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara zo mu nda, iz'umutwe n'izindi ndwara. Bityo uzirwaye akabasha kwitabwaho, uyu muti uratunganywa neza, ku buryo uba wizewe, n'uburyo ukoresha nk'wuka wa bwizewe.

Ubwoko bw'ibyatsi byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, aho bisuromwa bigatunganaywamo umuti uvura neza kandi wizewe. Akaba ari umuti uzwi nk'umuti gakondo kandi wujuje ubuziranenge.

Ubwoko bw'icyatsi gifite n'uturabo, gikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, aho gisoromwa, kigatunganywa hifashishijwe ibikoresho byabugenewe, kugira ngo havanywemo umuti wizewe kandi uvura neza.

Umuntu ufite umuti amaze gutunganya mu byatsi, akaba ari umuti wizewe ukoreshwa mu buvuzi, ukaba umeze nk'agafu ku buryo ushobora kuwushyira mu cyayi ukawunywa, cyangwa se mu mazi ukawunywa, bityo indwara zitandukanye zikabasha kuvurwa.

Ibyatsi, imbuto, n'indi miti itandukanye n'ibikoresho byabugenewe byifashishwa hatunganywa umuti ukozwe muri izo mbuto n'ibyo byatsi ukoreshwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye.

Icyatsi kizwi nk'umuravumba, cyifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye. Akaba ari icyatsi gikorwamo umuti gakondo, ugatunganywa neza, ku buryo uwunyweye utamugiraho ingaruka. Ahubwo ubashaka kumuvura, indwara afite.

Ubwoko bw'umuti utunganyijwe mu bimera akaba ari umuti ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara kugira ngo abarwayi bakire, akaba utunganywa hifashijwe ibikoresho byabugenewe kugira ngo hizerwe neza mu mikorere y'uwo muti ndetse n'ubuziranenge bwawo.

Ubwoko bw'umuti wifashishwa mu buvuzi, ukaba ukozwe mu byatsi birimo igikakarubamba, umuravumba ndetse n'izindi mbuto z'umwimerere. Ugatunganywa ku buryo, uyu muti uba wizewe kandi uvura neza.

Imiti itandukanye, ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, ikabikozwe mu byatsi, ndetse n'imbuto, zirimo imineke, n'inanasi. Ikaba ari imiti yizewe kandi yujuje ubuziranenge, ku buryo imikorere yayo ari ntamakemwa.

Imiti myinshi itandukanye ikozwe mu bimera birimo ibyatsi ndetse n'imbuto z'umwimerere, ikaba ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye yaba ari indwara z'uruhu, izo mu nda n'izindi ndwara, ukaba wizewe kandi wujuje ubuziranenge, akaba ari imiti yifashishwa mu buvuzi.

Ubwoko bw'ibyatsi n'imbuto bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye kwa muganga, aho bikorwamo umuti uvura neza kandi wizewe, uzwi nk'umuti gakondo, akaba ari umuti ubasha gukiza indwara neza.

Imiti ikozwe mu muravumba ndetse n'igikakarubamba, ikaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye kwa muganga, aho umurwayi ayikoresha arimo arivura kugira ngo akire uburwayi afite.

Amoko menshi y'imiti atandukanye, ikozwe mu bimera birimo ibyatsi n'imbuto, ikaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara z'amenyo, iz'uruhu n'indwara zo mu nda.

Ubwoko bw'ibyatsi bwifashishwa hatunganwa umwe mu muti uzwi nk'ubutikozwe mu bimera, cyangwa se umuti gakondo, ukoreshwa havurwa indwara zitandukanye kwa muganga. Kugira ngo abazirwaye bakire kandi bitabweho.

Amoko atandukanye y'imiti. Ikozwe mu byatsi ndetse n'imbuto gakondo. Ikaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, ikaba itunganywa ku buryo bwizewe kandi ikavura neza, ikaba ikiza indwara.

Ubwoko bw'imiti itandukanye, ifunze neza mu macupa, harimo umuti ukozwe mu gikakarubamba, n'indi miti ikozwe mu zindi mbuto, ikaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye kugira ngo abazirwaye bavurwe.

Ibyatsi byifashishwa hakorwa umuti uzwi nk'umuti gakondo, ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, ukaba ari umuti wizewe kandi uvura neza ku buryo umurwayi ufite ikibazo cyose uyu muti wavura, wifashishwa.

Ubwoko bw'ibyatsi ndetse n'igiti bikorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, ukaba utunganywa ku buryo wizewe kandi uvura neza.

Umuravumba, ibyatsi byifashishwa hatunganywa umuti ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari ukuvura indwara zo mu mihogo n'indwara z'uruhu. Akaba ari umuti wizewe kandi ukora, uruvura neza. Ukaba wifashishwa kwa muganga.

Ubwoko bw'umuti ukozwe mu gikakarubamba, akaba ari imiti ivura, irimo amavuta umuntu yisiga, ikaba ivura indwara zitandukanye, cyane cyane indwara z'uruhu, indwara zo mu nda n'izindi ndwara kugira ngo abazirwaye bakire.

Amacupa menshi atandukanye arimo imiti ikozwe mu bimera, yose iyo miti ikaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye zifata abantu b'ingeri zose kugira ngo abarwaye izo ndwara bitabweho kandi bakire.

Ubwoko, bw'umuti, ukozwe, mu igikakarubamba. Akaba ari ibyatsi, byifashishwa hatunganywa imiti itandukanye, yifashishwa mu buvuzi, bw'indwara. Kandi akaba ari imiti ikora neza, ivura neza, ku buryo abarwayi batandukanye babasha gukira, hifashishijwe igikakarubamba.

Ubwoko bw'ibyatsi byifashishwa mu buvuzi aho bikorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo uvura indwara zitandukanye zifata umubiri, kugira ngo abazirwaye bose babashe kwitabwaho kandi...

Umupapa n'umumama bahagaze mu byatsi, ibyatsi byifashishwa hakorwamo imiti izwi nk'imiti gakondo ikoreshwa havura indwara zitandukanye yaba ari indwara zo mu nda, iz'umutwe n'izindi ndwara.

Umuntu ufite umuti mu kiganza umuti ukozwe mu bimera birimo ibyatsi ndetse n'imbuto ukaba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye yaba ari indwara zifata abana batoya, abakuze ndetse n'abakuze cyane akaba ari imiti yizewe kandi itunganyijwe mu buryo itagira ingaruka ku yinyweye.

Amoko menshi y'imiti itandukanye, itunganyijwe mu byatsi, akaba ari imiti yizewe ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara ndetse hagaragaramo abantu baje kuyigura ndetse na muganga, urimo arayicuruza ku baturage kugira ngo bayifashishe barimo barivura,

Ubwoko bw'umuti ukozwe mu byatsi bizwi nk'igikabamba akaba ari umuti wifashishwa mu buvuzi butandukanye yaba ari ubuvuzi bw'amenyo, ndetse n'izindi ndwara ukaba wizewe kandi ukora neza, ukababifashwa no kwa muganga.

Umuti utunganyijwe mu bimera, ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'amenyo n'izindi ndwara. Akaba ari umuti wizewe kandi ukora neza, bityo ukaba ubasha kuvura indwara zigakira.

Umuvuzi gakondo afite ubwoko bwinshi bw'imiti ikozwe mu bimera ndetse harimo n'ubuki, byose byifashishwa mu buvuzi. Akaba ayikoresha avura indwara zitandukanye kandi akaba ari imiti ivura neza.

Ubwoko butandukanye bw'ibikoresho bikoreshwa hatunganywa umuti uzwi nk'umuti gakondo, harimo imbuto, ibyatsi n'andi moko y'ibiti, yose akaba avura neza kandi yizewe. Akaba wifashishwa havurwa indwara zitandukanye.

Ubwoko bw'icyatsi gikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo indwara zo mu nda n'indwara z'uruhu, akaba ari icyatsi gisoromwa kigatunganywa hifashishijwe ibikoresho byabugenewe kandi umuti wacyo ukaba wizewe kwa muganga.

Ibyatsi bitunganywamo umuti, wifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara zifata abana batoya, abakuze ndetse n'abakuze cyane, kugira ngo bitabweho, utunganywa neza ku buryo uwo muti uba wizewe, kandi wujuje ubuziranenge.

Imiti itandukanye itunganyijwe mu bimera birimo ibyatsi ndetse n'imbuto, akaba ari ibinini byiza bikozwe neza ku buryo bibasha kuvura indwara zitandukanye yaba ari indwara zifata abana, izifata abakuze ndetse n'abakuze cyane bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuti uri mu gacupa, utunganijwe mu byatsi gakondo. Ukaba ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, kugira ngo uzirwaye avurwe. Urizewe kandi ufunze neza ku buryo utakangirika.

Umuntu uri gusoroma ubwoko bw'ibyatsi bwifashishwa mu gukora umuti ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo indwara zo mu nda n'indwara z'uruhu, ukaba utunganywa ku buryo bwiza kandi bwizewe ndetse ukavura neza.

Ubwoko bw'imiti itandukanye ikozwe mu gikarubamba, ikozwe mu miravumba, yatunganyijwe neza, ikavanwamo imiti ivura kandi yizewe ikaba ari imiti ikoreshwa kwa muganga havujwe indwara zitandukanye ku baturage.

Ubwoko bw'ikimera cyifashishwa hatunganywamo umuti ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, uwo muti ukaba uzwi nk'umuti gakondo, ukaba wizewe kandi ukora neza uvura indwara igakira.

Amavuta akozwe mu miti gakondo, irimo ibimera by'ibyatsi ndetse n'imbuto, ikaba yifashishwa mu buvuzi, aho umuntu ayisiga ikavura indwara zitandukanye.

Ubwoko bwinshi bw'ibyatsi bikorwamo umuti umuti uvura neza indwara zigakira, akaba ari umuti gakondo ukoreshwa mu buvuzi havurwa abaturage kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, kandi bakire neza.

Umurima munini, uhinzwemo ibyatsi bitunganywamo imiti izwi nk'imiti gakondo, hari abantu benshi ubona ko nta kindi bashinzwe uretse gukurikirana iyo miti n'ibyo byatsi bikajya gukorwamo uwo muti.

Ibyatsi byinshi bifite amabara agiye atandukanye, hari ibisa umuhondo, ubururu n'andi mabara, bikaba bikorwamo imiti izwi nk'imiti gakondo, yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye kugira ngo abazirwaye babasha kwitabwaho.

Imiti yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, ikaba ikozwe mu gikakarubamba, ikaba ari imiti ivura neza kandi yizewe, hagamijwe kugira ngo hatezwe imbere ubuvuzi, hifashishijwe ibyatsi gakondo.

Ubwoko bw'ibyatsi byifashishwa hakorwa umuti uzwi nk'umuti gakondo, uvura indwara zitandukanye harimo indwara zo mu nda, indwara z'uruhu n'izindi ndwara. Akaba ari umuti utunganywa neza hifashishijwe ibikoresho byabugenewe kugira ngo hatezwe imbere ubuvuzi binyuze mu kwifashisha ibimera.

Ubwoko bw'ibyatsi byifashishwa hakorwa umuti wizewe ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, aho ibyo byatsi bisoromwa, bigatunganyaywa hifashijwe ibikoresho byabugenewe mu gutunganya uwo muti, maze bigakoreshwa mu buvuzi bw'indwara kandi bikavura neza.

Abantu batandukanye bafite ubwoko bw'ibyatsi bitandukanye, bigera mu bwoko bune, bwose bukorwamo umuti ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye; akaba ari indwara z'irimo indwara zo mu nda, n'izindi ndwara z'uruhu, kugira ngo hanozwe ubuvuzi kandi butezwe imbere.

Ubwoko bw'ibyatsi na tangawizi byatunganyijwe bitunganywa neza bikorwamo umuti ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, indwara zo mu nda, mu mihogo n'izindi ndwara, ukaba ari umuti wizewe kandi ukora neza ukaba wifashishwa n'abaturage kandi bakivura bagakira.

Imiti itandukanye, itunganyijwe mu byatsi, ikaba iri mu bubiko bwayo bwiza bwabugenewe, ndetse ikaba ivanguye ku buryo ubasha kuyikoresha asobanukirwa umuti agiye gukoresha uwo ariwo ndetse n'uburyo uvura, ikaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara.

Amoko menshi y'ibyatsi atandukanye harimo imiravumba, igikakarubamba n'ibindi byatsi. Byose bikaba byifashishwa hatunganywamo imiti izwi nk'imiti gakondo ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye.

Icupa ririmo imiti itunganyijwe mu bimera ndetse n'indi miti itandukanye iri kumwe n'iryo cupa, bikaba byifashishwa havura indwara zitandukanye cyane cyane indwara zifata abantu.

Amoko y'imiti itunganyijwe mu bimera birimo ibyatsi nk'igikarubamba avoka, n'ibindi bikaba byifashishwa habohorwa indwara zitandukanye kugira ngo hanozwe imivurire myiza.